Umwana w'umuhungu ukiri muto wambaye agapira karimo imirongo y'ubururu ndetse n'umukara, akaba ari ku ivomero rusange riturukamo amazi meza ari kugerageza gukaraba intoki ze ndetse no mu maso. Bikaba bigaragara ko yatojwe isuku akiri muto.

Umukecuru witeye igitambaro cy'umukara kirimo uturabyo, ari kumwe n'umukobwa wambaye impuzankano yo kwa muganga ufite imisatsi myinshi, amufashe ikiganza biragaragara ko agiye kumufata amaraso ngo amusuzume indwara yaba arwaye. Hepfo ye kandi hari umuhungu na we wambaye impuzankano yo kwa muganga na we afashe akaboko ku muntu bigaragara ko nawe agiye kusuzuma hari kandi n'umukobwa wicaye na we bigaragara ko bakorana.

Inama ku rwego rw'igihugu yahurije hamwe abayobozi batandukanye mu nzego z'ubuzima, imbere y'abo hicaye abayobozi batandukanye bayoboye iyo nama barimo dogiteri Sabin NSANZIMANA uyobora minisiteri y'ubuzima mu Rwanda. Nyuma y'aho hari icyapa kinini kirimo amabara y'ubururu n'umweru cyanditseho insanganyamatsiko bari kuganiraho ijyanye no gushora ishoramari mu buganga hakaba kandi insakazamashusho nini iri kwerekana abari aho ibiri kunyuraho.

Abantu benshi batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore bambaye impuzankano igizwe n'umupira w'umweru inyuma yabo hakaba hari n'icyapa kinini kiriho ikirango cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda bikaba bigaragara yuko basoje amahugurwa ku bijyanye no kwita ndetse no kubungabunga ubuzima bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Agatanda kubatse mu biti kakaba karambuyeho kandi amasahane, ibikombe n'utujerekani kakaba kazwi nk'agatanda k'amasahani kifashishwa hanikwaho ibikoresho byo mu gikoni bimaze kozwa kugira ngo byumukwe bityo hirindwe indwara ziterwa n'umwanda. Kakaba kari ahantu iruhande rwaho hari insina ndetse n'urugo rw'imiyenzi.

Umwana muto w'umukobwa wambaye agashati gatukura, akaba kandi ari ku ivomero rusange, ririho icyapa cyerekana yuko ryubatswe ku bufatanye n'ikigo gishinzwe amazi n'isuku mu Rwanda ndetse n'ikigo mpuzamahanga kizwi nka WORLD VISION, ari gukaraba intoki biragaragara yuko yatojwe isuku akiri muto.

Abaganga ubona yuko bakiri urubyiruko, barimo abasore n'inkumi, bari kumwe kandi n'umugabo we bigaragara ko akuze, bambaye impuzankano yo kwa muganga, biragaragara yuko baje gutanga ubuvuzi bugera ku baturage bubasanze aho bari.

Umwana w'umuhungu ukiri mutoya, wambaye ishati ikoze mu gitenge, usutamye ku iriba rusange yateze ibiganza bye amazi ari kuza, biragaragara ko yishimye, iruhande kandi hari amajerekani ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'indi ifite ibara ry'umuhondo.

umwana muto w'umuhungu wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'agakabutura k'umukara. Akaba ari ku ivomero rusange rifite imiyoboro ibiri izana amazi ari gukaraba intoki ze. Iruhande rwe harambitse indobo y'ubururu, inyuma ye kandi hari indi ndo bisa nk'iyi. Inyuma hakaba hari ibimera bitandukanye birimo ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umwana w'umukobwa mutoya ufite udusatsi twiza tuboshye neza akaba kandi yambaye imyenda isa ikoze mu gitenge, akaba ari gukaraba intoki ze ku ivomero rusange rikura amazi mu butaka, akaraba amazi agwa mu ibeseni iteretse aho ngaho.

Abantu benshi barimo abagore ndetse n'abagabo bambaye impuzankano yo kwa muganga, bambaye kandi n'amakarita agaragaza imyirondoro yabo ndetse n'ibyo bashinzwe, bari kumwe kandi n'umugabo bigaragara ko ari umuzungu, bisa nk'aho basoje amahugurwa ajyanye n'ingamba zo kwita ku buzima.

Akazu kifashishwa nk'ivomero rusange, gafite imiyoboro izana amazi atandukanye, kariho ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umweru. Imbere yaho hari abagore bahagaze ndetse hatonze n'amajerekani ku mirongo, bigaragara yuko baje kuyavoma bategereje ko agenda yuzura bakayatwara.

Abana benshi bari ku rukarabiro rusange rugizwe n'umuyoboro muremure ufite ahantu henshi hatanga amazi, bakaba bari gukaraba intoki. Iruhande kandi hari n'abandi bana benshi batonze imirongo, bigaragara y’uko bategereje ko abandi basoza ngo maze nabo bakarabe.

Ivomero rusange ririho amabara y'ubururu, hariho kandi n'imiyoboro ibiri izana amazi. Hari abana umwe ari kuvoma, abandi babiri biragaragara yuko bategereje kuvoma. Hari kandi n'umugore washyize umwana mu ibesani uri kumwoza.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, kiriho ifoto ya Dr Sabin Nsanzimana, Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda, akaba yarari gutanga ubutumwa ku buryo bwo kurwanya kanseri y'inkondo y'umura, avuga y'uko hari abantu mu Rwanda barenga magana atandatu bayandura buri mwaka, hakaba kandi n'impfu zirenga magana atandatu ziyiturutseho. Akaba ari gushishikariza abanyarwanda rero kwifatanya mu kuyirurwanya.

Ivomero rusange rikura amazi hasi kure mu butaka, hari umwana ufite akabido gatoya ari kuvoma afite n'akandi mu ntoki ze, hari kandi n'umukobwa uri kugerageza ngo amazi aze, hari kandi n'umumama bigaragara ko we amaze kuvoma atashye, hari n'akana k'agahungu ko gategereje kuvoma.

Umuhanzi Israel Mbonyi wamenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ari kumwe n'ababyeyi bambaye impuzangano y'umweru, bafite abana babo bambaye impuzangano iri mu ibara ry'umutuku y'icunga rihishije, akaba ari naryo uwo muhanzi yambaye, bikaba bigaragara yuko hari ubukangurambaga barimo mu bijyanye n'ubuzima.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore hakaba kandi harimo n'abambaye impuzankano yo kwa muganga, bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, yanditseho amagambo mu ibara ry'icyatsi yerekana yuko ari icyumba cy'inama, bikaba bigaragara ko basoje inama bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba kigari cyisanzuye cyubatse ku buryo bugezweho, kirimo amadirishya meza y'ibirahure. Harimo abantu bagizwe n'ibyiciro by'abagabo ndetse n'abagore, barimo abirabura ndetse n'abazungu, bakaba bigaragara ko bari mu nama. Harimo kandi Dogiteri Sabin Nsanzimana Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda. Bikaba bigaragara ko bari mu nama igendanye n'iby'ubuzima.

Umwari ukiri muto, wambaye ijipo y'umukara ndetse n'umupira w'umutuku wererutse, ari ku ivomero ari kuvoma amazi meza ayavomera mu ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, iteretse mu ibesani ebyiri. Inyuma ye kandi hari imyenda ihanitse, iruhande rwe kandi hari inzu yubakishije amabati.

Umwana mutoya w'umukobwa wambaye impuzankano y'ishuri, hari kandi n'umuganga wambaye impuzankano yo kwa muganga ndetse n'uturindantoki akaba ari kumukingira, imbere hari abandi bana benshi bigaragara ko nabo bategereje gukingirwa.

Ivumero rusange riturukamo amazi meza, hakoraniye abantu benshi batandukanye barimo abana, abagabo, ndetse n'abagore, hari kandi n'ibivomesho bitandukanye bazanye birimo amajerekani, amabeseni, ndetse kandi bamwe bari kuvoma abandi batonze imirongo bategereje ko bagerwaho na bo bakavoma.

Abana babiri b'abahungu batoya, bari ku mugezi rusange uvana amazi hasi mu butaka, bateze intoki zabo bari kuzikaraba, biragaragara ko batojwe kugirira isuka intoki zabo bakiri batoya, nka bumwe mu buryo bwiza bwo kwirinda kwandura indwara ziterwa n'umwanda.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'amagambo ari mu mabara y'umweru n'akamenyetso karimo umugore uteye umwana bari mu ruziga rw'umubumbe w'isi, nabyo biri mu mabara y'umweru bakikijwe n'ibibabi by'igiti, kikaba ari icyapa cy'ikirango cy'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana.

Umuhanzi wamenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza imana, uzwi ku izina rya lsrael MBONYI, yambaye indorerwamo afashe mu ntoki ze inkongoro ari guha umwana amata uteruwe na nyina, abagore bandi bose bari aho bambaye impuzankano y'imipira y'umweru, abana baraho kandi nabo bambaye impuzankano y'umutuku w'icunga rihishije, ari nawo uwo umuhanzi nawe yambaye.

Umwana muto wambaye impuzangano y'ishuri, uteze ibiganza byo ku ivomero rivamo amazi meza, riri hagati mu kigo gikikijwe n'amashuri atandukanye. Iruhande rwe kandi hari indobo iri mu ibara ry'icyatsi, hari n'ikirango cy'umuryango mpuzamahanga w'abibumbye, ryita ku bana ndetse n'impundu.

Abana bari mu ishuri inyuma y'abo hari ikibaho cyanditseho ibintu binyuranye biga, umwe muri abo bana yambaye impuzangano y'ishuri yamanitse akaboko ke biragaragara ko yiteguye gusubiza ikibazo cyabajijwe, undi yambaye ishati amwicaye iruhande hari kandi n'undi uri ku ruhande nawe wamanitse akaboko bigaragara ko icyabajijwe akizi yiteguye gusubiza.

Inama yitabiriwe n'abayobozi banyuranye mu nzego z'ubuzima, yitabiriwe kandi n'abantu bari mu ngeri zose abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hicaye abayobozi barimo Dr. Saben NSANZIMANA uyobora Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, inyuma yabo kandi hari icyapa kinini kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru cyerekana ko bari kuganira ku nsanganyamatsiko yo kongera ishoramari rishorwa mu by'ubuvuzi.

Ivomero rusange ritanga amazi riyakuye mu butaka, hari kandi umugore wambaye umupira w'icyatsi, uri kugerageza kuvoma kugira ngo amazi aze, hari n'umwana wambaye umupira w'umutuku ufashe ijerekani kugira ngo amazi ajyemo neza, hakaba kandi n'abandi bantu barimo, abana, abagore ndetse n'abagabo, bahagaze bakikije, bigaraga y'uko bategereje kuza kuvoma nabo.

Imbaga y'abantu benshi bakoraniye ahantu hamwe barimo abagabo ndetse n'abagore hari ihema kandi riri mu mabara y'umweru inyuma yaho hari inzu hakaba kandi hari n'idarapo ry'igihugu cy'Urwanda hakaba hari n'imodoka ihari iri mu mabara y'umweru bikaba bigaragara ko hari kubera ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuvuzi.

Umukobwa w'umwangavu wirabura wikoreye ijerekani iriho ikirango kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, kikaba ari ikirango cy'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku burenganzira bw'abana ndetse n'impunzi, hakaba kandi hari n'umugabo uri kumukorera wambaye impuzangano y'uwo muryango w'abibumbye, biragaragara ko bose bishimye.

Abana bato bishimye, bari ku ivomero rusange, rifite imiyoboro izana amazi itandukanye, bari gukaraba intoki zabo, bigaragara y'uko batojwe isuku bakiri bato.

Ikirango kiri mu mabara y'umweru hariho kandi ibishushanyo biri mu ibara ry'ubururu birimo umugore uteruye umwana bakaba bari mu ruziga rw'umubumbe w'isi bikikijwe kandi n'ibibabi by'ubururu kikaba ari ikirango cy'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kwita ku bana ndetse n'impunzi.

Umugore ukenyeye igitenge wambaye umupira uri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, akaba yambaye n'ingofero akaba ari gukaraba intoki ku gikoresho kigizwe n'akajerekani ndetse n'ibiti bitatu, kizwi nka kandagirakarabe cyagenewe kwimakaza isuku y'intoki.

Umwana mutoya w'umuhungu wambaye impuzankano y'ishuri, uri kumwe na mama we, wambaye umupira w'ubururu ukenyeye igitenge, yambaye ndetse n'agapfukamunwa akaba ari kumukarabya intoki amutoza umuco mwiza wo kugirira isuku intoki ze.

Umwana muto wambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara, akaba ari ku ivomero rusange rizana amazi meza, afite akabido ari kuvomeramo, iruhande rwe hari n'undi mwana, na we uri kuvoma, hakaba kandi hahagaze na umumama utegereje ko basoza ngo nawe avome.

Abana batatu ubona ko bakiri batoya, bari ku rukarabiro rusange ruvamo amazi meza, bari gukaraba intoki, barishimye, biragaragara yuko batojwe kugirira isuku intoki zabo bakiri bato.

Umukobwa ukiri muto w'umwangavu wambaye impuzankano y'ishuri, ari ku rukarabiro rusange ruvamo amazi meza, ari gukaraba intoki kugira ngo yirinde umwanda wamutera indwara zinyuranye zirimo n'iz'ibyorezo.

Umubyeyi uryamye utwite. Hari kandi n'undi wambaye impuzangano yo kwa muganga n'agapfukamunwa, akaba ari gukoresha igikoresho cyabugenewe mu kumva niba umutima w'umwana umubyeyi atwite utera. Hari kandi n'undi mugore na we uhagaze, bigaragara ko yaherekeje uwo utwite kwa muganga.

Umubyeyi utwite uryamye agaramye ari kumwe kandi n'umugore wambaye impuzankano yo kwa muganga, akaba ari gukoresha agakoresho bifashisha bumva uko umutima w'umwana uri mu nda utera, iruhande kandi hari n'undi mubyeyi bigaragara ko yaherekeje uwo utwite bose bakaba bambaye udupfukamunwa.

Urubyiruko rurimo abasore ndetse n'abakobwa bambaye impuzankano yo kwa muganga iriho ibirango byerekana yuko ari abanyeshuri muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Inyuma yabo hari icyapa cyerekana yuko bari bagiye gutanga ubuvuzi bugera ku baturage ahazwi nka Nyabageni, bakaba bari bari mu gikorwa cyo gusuzuma indwara abantu benshi muri ako gace.

Umugabo ubona wishimye wambaye ishati y'amaboko magufi irimo uturongo n'ipantaro yumukara, akaba ari ku ivomero rusange afite ijerekani iri mu ibara ry'umuhondo biragaragara yuko ategereje kuvoma.

Abana bambaye impuzangano y'ishuri, barimo ab'abahungu n'ab'abakobwa. Bari ku ivomero rusange rifite imiyoboro izana amazi itandukanye. Bamwe bari gukaraba intoki zabo, undi ari kuvomera amazi mu ndobo.

Inama irimo umuyobozi w'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kwita ku buzima. Ari kumwe kandi na dogiteri sabein nsanzimana, umuyobozi wa minisiteri y'ubuzima mu rwanda. Bari gutanga ikiganiro ku buryo bwo guhagarika ndetse no gukuraho burundu icyorezo cya malibag giherutse kwibasira u rwanda. Iyo nama yabereye i kigali, iterana ku itariki makumyabiri z'ukwacumi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Umugore wambaye impuzankano yo kwa muganga ufite igitabo mu ntoki ze ndetse n'indangururamajwi. Imbere ye kandi hari ihema ririmo abantu b'ingeri zitandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore bikaba bigaragara yuko hari ubukangurambaga bujyanye n'iby'ubuzima buri gutangwa babifashijwemo n'uwo mugore ukora kwa muganga.

Umugore wambaye ishati y'umweru ufite ibisuko by'umukara bifunze neza, aricaye hamwe n'undi muganga kandi wambaye impuzangano yo kwa muganga ndetse n'agapfukamunwa. Akaba ari kumutera urukingo . Inyuma y'uwo mudamu kandi hahagaze n'undi nawe bigaragara ko ategereje ko bamwakira nawe bakamukingira.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bambaye impuzangano yo kwa muganga iri mu ibara ry'ubururu, bakaba bafite n'ibitabo bari kwandikamo bikaba bigaragara ko bari mu bukangurambaga, ku kwita ku barwayi ndetse no kurwanya indwara zinyuranye.

umwana mutoya w'umuhungu, uri gukarabira intoki ze ku ndobo yabugenewe, ifite umufuniko w'ubururu iteretse ku kameza gakoze mu rubaho gafite amaguru y'ibyuma, iyo ndobo kandi ikaba ifiteho umuyoboro wabugenewe, ufungurwa amazi akaza ukabasha gukaraba intoki.

Icyumba cyiza Kigali cyisanzuye, kirimo amatara meza agezweho kandi cyubatse ku buryo bwiza, hakaba harimo abantu b'abagabo ndetse n'abagore, bakurikiye amahugurwa bari guhabwa ku bijyanye n'ubuzima, imbere yabo hateretse ibikoresho bari kwifashisha bandika ibyo bumvise. Harimo kandi n'imfatamashusho n'amafoto ziri kwifashishwa, zifata ibiri kubera aho.

Ivomero rusange rikura amazi kure mu butaka meza, yifashishwa n'abaturage hari kandi umugabo uri kugerageza ngo amazi aze ashagawe kandi n'abandi bantu benshi, barimo abana ndetse n'abagabo, bigaragara yuko nabo bategereje kuvoma.

Umugore ufite imisatsi mikeya wambaye umupira uciye amaboko, ari kumwe n'akana ke gatoya kambaye umupira uciye amaboko, bari kuvoma mu kidendezi cy'amazi bigaragara ko ari mu gishanga, umugore arivoma ijerekani nini, naho umwana we ari kuvoma akajerekani gatoya.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, ubururu, icyatsi hakaba kandi hariho n'agashushanyo k'amazi, imiyoboro y'amazi ndetse n'izuba hakaba ariho n'amagambo, kikaba ari icyapa cy'ikigo cy'Igihugu gishinzwe amazi n'Isuku mu Rwanda.

Abana babiri b'abahungu bicaye ku mugezi rusange uzana amazi uyakuye mu butaka barimo barakaraba intoki, bigaragara yuko batojwe isuku bakiri batoya. Inyuma yabo hari ibyatsi byinshi byumye bigaragara yuko aho hantu bafite ikibazo cy'imvura nke.

Umugabo bigaragara ko akuze, wakutse amenyo, n'ayasigayemo akaba asa nabi, afite imisatsi myinshi yamwereye ku mutwe, bigaragare yuko afite ikibazo cy'ubuzima, bwo mu mutwe.

Icyumba cyiza cyisanzuye cyubatse ku buryo bugezweho, kirimo abagore bicaye imbere yabo, hari ameza ateretseho amazi ndetse n'ibikoresho ariko kwifashisha abandika, imbere yabo kandi hahagaze umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ze, bigaragara ko haricyo ari kubageza aho bamukurikiye, inyuma kandi hari icyapa cyerekana ko bari guhabwa ubukangurambaga mu kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umugore uteruye umwana we, bari kumwe kandi n'umujyanama w'ubuzima, ufite agakoresho kabugenewe mu gupima ubushyuhe bw'umubiri, ari kwereka uwo mumama ibisubizo by'umuriro umwana we afite, afite kandi telefoni ngendanwa igezweho mu ntoki ze ndetse n'ibitabo biri ku bibero bye yifashisha yandikamo amakuru y'abarwayi.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abahungu, harimo kandi n'ababyeyi bakuze, bafite icyapa kiri mu mabara y'umweru n'icyatsi, bigaragara y'uko basoje amahugurwa ajyanye no kwita no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, yabaye ku itariki makumyabiri n'imwe ugushyingo, mu bihumbi bibiri na makumyabiri.

Umugabo wambaye imyenda isa nabi yacikaguritse ufite ibyanda byinshi yatoragurije, wambaye ibidorerwamo byamenetse n'ikigofero gishaje w'igikara, uri ahantu bigaragara ko hamenwa ibishingwe akaba afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umwana mutoya wambaye impuzankano y'ishuri wicaye ku gatebe gatoya kegamirwa imbere ye harae akaba afite igisuguti arikurya biragaragara yuko yishimye inyuma ye kandi hari n'abandi bana bigaragara yuko bose bari kwitabwaho ngo barusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku n'agakabutura bambitse amapingu ufite ibipapuro bitandukanye biriho amafoto y'abantu akaba ashungerewe kandi n'abantu benshi baje kumureba, barimo kandi n'uwambaye imyenda y'abashinzwe umutekano.

Icyapa cyiri mu amabara y'umweru kiriho kandi n'amababara y'icyatsi akoze ishusho y' yumutwe wumuntu handitsemo amagambo mu ibara ry'icyatsi byerekana ko ari umunsi mpuzamahanga wahariwe kwizihiza ubuzima bwo mu mutwe uba ku itariki icumi ukwakira.

Umugabo wambaye imyenda y'inshwabari wicaye mu muyoboro w'amazi, afite ibyanda byinshi birimo amashashi, utubido ndetse n'indi myanda myinshi, arasa nabi cyane akaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umuntu wambaye imyenda ishaje isa nabi, wambaye inkweto zisa nabi, watoraguye ibyanda birimo ibicupa, ibishashi, ndetse n'ibindi biragaragara y'uko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, iruhande rwe kandi aho yicaye hari abantu bari kuhanyura bagenda.

Umugabo wambaye incwabari umusatsi wamwereyeho ndetse n'ubwanwa biragaragara yuko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ari kumwe kandi n'umugabo baramukanyije wambaye ishati nziza imwegereye y'igitenge ndetse n'ipantaro y'umukara bigaragara ko ari kugerageza kumuha ubufasha.

Umukobwa mwiza muto muto wirabura, afite umusatsi mwinshi akaba yicaye ahantu inyuma hari ibiti byagenewe guterwa mu busitani, arishimye bigaragara ko ubuzima bwe bwo mu mutwe bumeze neza.

Igishushanyo kiri mu ishusho y'umutwe w'umuntu, kiri mu ibara ry'ubururu, harimo imbere igishushanyo cy'ubwonko bw'umuntu, kiri mu ibara ry'umutuku yiganjemo umuhondo, kikaba ari igishushanyo cyifashishwa kwa muganga, bareberaho uko ubwonko buteye bityo bakaba bakigenderaho, baha umuntu ubuvuzi ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku y'icunga rihishije, kiriho kandi n'amagambo yanditse muri iryo bara ndetse n'andi yanditse mu ibara ry'umweru, hariho kandi ifoto ya Nyakubahwa Madame Jeannete Kagame ari gutambutsa ubutumwa bujyanye no kubungabunga ndetse no gufata neza ubuzima bwo mu mutwe, bikaba byari biri gutambuka ku gitangazamakuru kitwa ishusho.

Umugabo wambaye imyenda y'inshwabari ufite ibisashi birimo imyanda, afite kandi n'igitebo mu ntoki ze yisize imbyiro mu maso biragaragara ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ahagaze iruhande rw'igikamyo kinini cyiri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umukara.

Abantu benshi batandukanye, barimo abagabo ndetse n'abagore, biganjemo abashinzwe umutekano mu Rwanda bazwi ku izina rya polisi, bigaragara yuko basoje amahugurwa yerekeranye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

icyapa kiri mu mabara y'umweru hariho kandi ishusho yerekana umutwe w'umuntu iriw'i ibara ry'ubururu harimo utuyenyeri tw'umweru ndetse n'ifumukayerekana ubwoko bw'umuntu hariho amagambo ajya mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara kikaba ari ikirangangigo cy'urugaga rw'abanyeshuri biga kwita ku buzima bw mutwe mu rwanda

Icyumba kigari cyisanzuye, kirimo irangi ry'umweru, harimo kandi n'intebe ziteye mu ishusho ry'uruziga, harimo abantu bari mu byicaro by'abagabo ndetse n'abagore, batanu muri bo barahaga, bane bahagaze hagati mu ruziga, harimo kandi n'ibyapa biri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, ikindi kiri mu ibara ry'umweru n'umutuku, hakaba hari gutangwa ubukangurambaga ku kwita ndetse no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore wambaye ishati y'igitenge yicaranye n'umugabo wambaye umupira w'umukara, hariho akantu k'akarimbo kari mu ibara ry'icyatsi, uwo mugore afite indangururamajwi, biragaragara y'uko hari ubukangurambaga ari gutanga ku mbaga nyamwinshi, ku bijyanye no kwita ku buzima.

Abakobwa babiri, umwe yambaye imyenda y'umukara hamwe n'indorerwamo, undi yambaye imyenda y'umutuku ndetse n'ingofero ifite ibara rya gisirikare, uwambaye imyenda y'umutuku yifashe ku itama arigunze, bigaragara yuko hari ikibazo afite ku buzima bwe bwo mu mutwe, n'aho uwambaye imyenda y'umukara yamufashe ku rutugu ari kumuhumuriza, bigaragara ko ari kumuha ubufasha.

Imbaga y'abantu bakoraniye hamwe, bicaye babiri babiri, akaba ari umuganga w'ubuzima bwo mu mutwe ugiye wicaranye n'umurwayi we ari kwitaho, bose bambaye udupfukamunwa, iruhande rwabo kandi hari ikimodoka kinini kiri mu mabara y'umweru, cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu, rikaba ari ivuriro ngendanwa, ritanga ubuvuzi ku bafite ikibazo ku buzima bwo mu mutwe.

Umuhungu ukiri mutoya ufite ubwanwa buringaniye ndetse n'umusatsi uringaniye wicaye ku cyuma cyabugenewe kwicarwaho mugihe uri kuvurwa amenyo yerekanye amenyo ari guseka bigaragara yuko yaje mu isuzumisha ry'izo ndwara zo mu kanwa kugira ngo arebe uko ubuzima bwe bw'amenyo buhagaze.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri, ari kumwe kandi n'umuganga wambaye impuzankano yo kwa muganga, iriho kandi n'ikirango cya Kaminuza y'u Rwanda. Bigaragara ko ari umunyeshuri muri iyo kaminuza, akaba yiga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo. Bafite igikoresho kiri mu ishusho y'amenyo, afite kandi n'uburoso bwabugenewe mu koza amenyo, ari kwerekera uwo mwana. Inyuma yabo hari abantu bahahagaze, bari kubarebera; barimo abarimu ndetse n'abayobozi.

Umugore mwiza cyane bigaragara ko akiri muto, ari kumwe kandi n'akana ke kakiri gatoya, bafite ibikoresho byabugenewe mu koza amenyo biragaragara yuko uwo mugore ari gutoza umwana yo kwigirira amenyo ye isuku, kugira ngo azarusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu kaziwa.

Umwana mutoya ugaramye wasamye hari kandi n'umuganga ufite ikinya wambaye uturindantoki ndetse n'impuzangano yo kwa muganga, afite kandi n'icyuma cyabugenewe mu kuvura amenyo ari kumuvura uburwayi bw'amenyo afite.

icyumba cyiza cyubatse ku buryo bugezweho kirimo amakaro kirimo kandi n'irangi ry'umweru,, harimo n'amatara menshi meza yaka kandi atanga urumuri ruhagije harimo kandi n'ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo harimo intebe igenda yicarwaho n'umurwayi mu gihe ari kuvurwa hariho kandi insakazamashusho yerekana uko mu kanwa k'umurwayi hameze hari kandi n'urukarabiro rugezweho bakarabiho intoki.

Igishushanyo cyamabara y'umweru n'umukara kikaba cyerekana imiterere ndetse n'itonde ry'amenyo mu kanwa kikaba cyifashishwa n'abaganga bareberaho uko umurwayi amenyo ameze ikibazo yaba afite kugira babonereho bamuvura.

Umusore ukiri muto ufite umusatsi uringaniye, ari kwireba mu ndorerwamo. Afite akadodo gasa neza k' umweru kabugenewe mu gusukura amenyo. Ari kukanyuza hagati y'amenyo ye kugira ngo ayasukure arusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Abana benshi bakiri bato bari mu ishuri, bambaye impuzangano, bamanitse amaboko yabo, bafite uburoso bwabugenewe mu koza amenyo, bafite kandi n'imiti yabugenewe yifashishwa mu gusukura ndetse no koza amenyo, bigaragara yuko ko bari gutozwa kugirira isuku amenyo yabo bakiri bato.

Umugabo wambaye umwenda wo kurarana uri mu mabara y'umukara harimo uturongo tw'umweru, afite kandi agakoresho kabugenewe mu gusukura amenyo, ari kugerageza kukanyuza hagati mu menyo kugira ngo ukuremo imyanda yose yaba yafashemo bityo arusheho kugira ubuzima bwiza bwo mukanwa. Ari kwireba mu ndorerwamo, bigaragara ko ari mu rukarabiro.

Umuhungu bigaragara ko akiri mutoya wasamye, yakojeje urutoki rwe ku menyo ari kwereka umuganga ikibazo afite. Hari kandi n'undi muganga uhahagaze, uwo bari kwerereke nyine icyo kibazo, afite mu ntoki ze agakoresho kariho ingano z'amenyo zitandukanye bigaragara ko agiye kumuvura.

Umusore ufite umusatsi uringaniye, w'imibiri yombi wambaye umupira w'icyatsi, berekanye amenyo ye, mu ntoki ze kandi afite agakoresho kariho ingano zitandukanye z'amenyo kifashishwa kwa muganga mu buvuzi bw'amenyo.

Umugabo wirabura afite ubwanwa buringaniye, wererekanye amenyo ye, aho afite kandi mu ntoki ze akadodo keza k'umweru kabugene mu gusukura amenyo, ari kukanyuza hagati y'amenyo agerageza gukuramo utwanda twaba twafashemo ngo arusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Umukobwa ukiri muto, wirabura, ufite imisatsi isutse neza, wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, imbere ye hari undi mukobwa na we wirabura wambaye umupira uciye amaboko, nawe ufite imisatsi isutse, arasamye, uwo mukobwa ari kumurebera mu kanwa, ari kumuvura indwara zataka mu kanwa, hirya ye hari abandi baganga na bo bambaye nka we bigaragara ko bakorana.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa buke buringaniye, mu ntoki ze afite akadodo gasa neza kabugenewe mu kunoza no kwita ku isuku y'amenyo. Biragaragara yuko ari gusukura amenyo ye yakoresheje ako kadodo kabugenewe.

Igishushanyo kiri mu mabara y'umweru n'umukara cyerekana imiterere y'amenyo mu kanwa k'umuntu, kikaba cyifashishwa n'abaganga bareberaho ikibazo umurwayi yaba afite kugira ngo babashe kumuha ubuvuzi.

Y'umugabo wirabira afite ubwanwa ari gukoresha agakoresho kabugenewe mu gusukura amenyo kagizwe n'urudodo ndetse n'akantu urwo rudodo rufasheho , Ari kukanyuza hagati y'amenyo ye kugira ngo ukuremo imyanda . Yafashewemo bityo arushaho kugira amenyo asa neza kandi afite ubuzima bwiza.

Igishushanyo kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara cyerekana imiterere y'amenyo n'uburyo atondetsemo mu kanwa kikaba cyifashishwa kwa muganga, abaganga bareberaho imiterere y'amenyo y'umurwayi kugira ngo barebe aho afite ikibazo babone uko bamuvura.

Umwana muto wirabura w'umukobwa, ufite umusatsi mwiza, amaso meza, wambaye iherena, wambaye kandi umupira uciye w'ibara ry'umuhondo. Imbere ye kandi hari umuganga wambaye uturindantoki, ufite mu ntoki ze utwuma tubiri twabugenewe mu kureba mu kanwa, ari kumusuzuma indwara yaba arwaye mu kanwa kugira ngo amuvure, arusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Umusore ufite ubwanwa bunganiye wirabura wambaye indorerwamo werekanye amenyo ye bigaragara yuko asa neza afite isuku akaba afite ubuzima bwiza bwo mu kanwa yatunzeho urutoki rwe ari kuyerekana.

Umwana muto mwiza ufite imisatsi myinshi y'umukara wasamye, bari kumuvura ameny , umuganga uri kumuvura afite agakoresho mu ntoki kabugenewe mu gukura amenyo ,yambaye uturindantoki, yambaye kandi n'impuzangano yabugenewe yo kwa muganga.

Umukobwa mwiza wirabura ufite imisatsi myiza y'umukara, mu ntoki ze afite akadodo k'umweru kabugenewe mu gusukura amenyo, ari kukanyuza hagati y'amenyo ye kugirango akuremo imyanda yose yaba yafashemo, bityo arusheho kwimakaza isuku yo mu kanwa, ndetse arushaho no kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Abana bato b'abakobwa bambaye impuzangano y'ishuri, bafite kandi udukoresho twabugenewe mu gusukura amenyo, biragaragara ko bari kunyuza hagati y'amenyo kugira ngo bakuremo imyanda irimo, bityo barusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Umusore wirabura wambaye umupira w'umweru umwigereye, akaba ari kwerekana amenyo ye yasetse, bigaragara ko rwose ari urwererane afite ubuzima bwiza bw'amenyo yo mu kanwa ayitaho kandi ayagirira isuku.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri igizwe n'ibara ry'icyatsi, ari kumwe kandi n'umugabo wambaye impuzankano yo kwa muganga, bafite ikibumbano kiri mu ishusho y'amenyo bari kwifashisha batoza uwo mwana isuku yo mu kanwa, inyuma yabo kandi hari abantu batandukanye barimo, abarimu ndetse n'abafatanyabikorwa muri ayo mahugurwa bari gutanga.

Icyumba cyiza cyubatse neza kirimo irange ry'umweru kikaba kirimo ibikoresho bigezweho mu buvuzi bw'amenyo, bigizwe n'intebe umurwayi yicaraho, itara rimurikira umuganga kugira ngo abe areba neza ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, akaba kandi harimo n'akabati kabikwamo utundi dukoresho ndetse n'inyandiko.

Umugabo wicaye agaramye ku gatebe kabugenewe kwicarwaho n'abantu barwaye amenyo bari kwivuza, hakaba kandi hari umuganga wambaye agapfukamunwa, uturindantoki, ufite agakoresho kabugenewe wakamushyize mu kanwa uri kumuvura.

Umukobwa wirabura mwiza cyane, wambaye iherena ufite imisatsi myinshi cyane y'umukara, arasamye aryamye agaramye hakaba hari n'umuganga wambaye impuzangano yo kwa muganga, ndetse n'uturindantoki n'agapfukamunwa afite utwuma twabugenewe mu kuvura amenyo arimo aramuvura.

Umukobwa mwiza wirabura afite imisatsi myinshi myiza y'umukara, afite kandi mu ntoki ze agakoresho kabugenewe mu gusukura amenyo, ari kunyuza mu menyo ye kugira ngo akuremo imyanda yaba irimo bityo arusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Umusore wicaye agaramye ku gatebe kabugenewe kwicarwaho n'abarwayi bagiye kuvurwa amenyo yerekanye amenyo ye, iruhande rwe kandi hari umuganga wambaye uturindantoki ndetse n'umwambaro wabugenewe w'impuzangano yo kwa muganga, akaba mu ntoki ze afite utwuma tubiri twifashishwa mu kureba mu kanwa ndetse no gukura amenyo akaba agiye kumuvura.

Umugabo wirabura bigaragara yuko akuze, yerekanye amenyo y'igice cyo hejuru. Afite kandi akadodo keza k'umweru, kabugenewe mu gusukura amenyo, ari kugirira amenyo ye isuku kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Igishushanyo kiri mu mabara y'umweru n'umukara, cyerekana imiterere y'amenyo y'umuntu, kikaba cyifashishwa n'abaganga mu gihe bari kuvura umurwayi kugirango ngo barebe imiterere y'amenyo ye ndetse naho yaba afite ikibazo.

Umusore wirabura yerekanye amenyo ye, afite kandi akadodo kabugenewe keza k'umweru mu ki ko wamenya, ari kugenda akanyuza hagati y'amenyo kugira ngo akuremo utwanda twaba twafashemo, bityo arusheho kugira amenyo asukuye, maze bimuhe kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Umugabo ushaje ufite imvi mu misatsi ndetse no mu bwanwa wambaye indorerwamo z'amaso, ari ahantu hisanzuye, inyuma ye hari ibiti. Afite udukoresho twabugenewe gu gukora mu myitozo ngororamubiri mu ntoki ze, amaboko ye yayarambuye; ari gukora imyitozo ngororamubiri ngo arushaho kugira ubuzima bwiza.

Umusaza bigaragara yuko akuze, wambaye agapfukamunwa n'ishati y'ubururu, ari kumwe kandi n'umukobwa ufite imisatsi iboshye neza na we wambaye agapfukamunwa; akaba kandi yambaye impuzankano yo kwa muganga. Yambaye agakoresho kabugenewe mu kumva uko umutima uri gutera; ari kumva uburyo ki umutima w'uwo musaza uri guteramo.

Umugabo ukiri muto ufite ubwanwa bwinshi wambaye impuzankano yo kwa muganga, mu ijosi rye afite agakoresho kabugenewe mu kumva niba umutima ugitera. Ari kumwe n'umumama ukuze wambaye umupira w'ubururu ufite akabando mu ntoki, bigaragara yuko uwo mugabo ari kumwitaho mu buryo bunyuranye.

Umukobwa wirabura wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye yarambuye amaguru ndetse n'amaboko n'umutwe we arikuwuganisha ku mavi ye, yicaye ku gakeka kabugenewe mu gukorerwaho imyitozo ngororamubiri ahantu mu busitani bwiza burimo ibiti byinshi bitoshye.

Abagore batandatu, bigaragara ko bose bakuze, bicaye ahantu hacururizwa imboga n'imbuto, bicaye bakikije amabesani arimo ibikarito atondetsemo inyanya nyinshi. Inyuma yabo kandi hari imbuto zinyuranye zirimo amacunga ahishije ndetse n'ibindi.

Umugore bigaragara y'uko akuze, wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, aricaye ku gakeka kabugenewe, ari kunanura umubiri we, akaguru ke kamwe kararambuye, akandi karahinnye, ari kugerageza gukoresha intoki ze ku mano. Ari ahantu heza hari amakaro, hari n'amatara meza agezweho ndetse n'intebe zirimo imisego myiza.

Umusaza ndetse n'umukecuru ubona ko bageze mu zabukuru, bose bafite imisatsi y'umweru irimo imvi, bakaba imbere yabo hari ameza ariho utuntu turi mu mabara y'umukara ndetse n'umweru bari kwifashisha bakina udukino dutandukanye, tubaruhura mu mutwe kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umusaza wambaye umupira wubururu wambaye kandi n'amadarubindi arikumwe n'umukobwa ukiri muto ufite imisatsi myiza y'umukara wambaye kandi akuma kabugenewe mu kumva uburyo umutima uteramo akaba yambaye impuzankano yo kwa muganga arik. kumwambika igikoresho cyabugenewe mu gupima umuvuduko w'amaraso mu kaboko kugira ngo amupime.

Umugore uri mu zabukuru ufite imisatsi irimo imvi, uri kumwe kandi n'undi mugore nawe bigaragara ko akuze mu mutwe we hakaba harimo imisatsi y'imvi mikeya, bakaba bari mu gikoni kigezweho, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, bakaba bari gutegura ifunguro rigizwe n'imboga zitandukanye, zirimo inyanya ndetse n'amapavuro.

Umukecuru bigaragara yuko ashaje ufite imvi wambaye umushanana ndetse imbere yambariyemo agapira k'ubururu, yambaye kandi n' urunigi ruri mu mabara y'umweru n'umukara, afite indangururamajwi mu ntoki ze ahagaze ahabugenewe guhagararwa igihe utanga imbwirwaruhame, biragaragara ko imbere ye hari imbaga ari kugira icyo ayibwira.

Umusaza wambaye umupira w'icyatsi, ndetse n'ishati y'umutuku werurutse, afite kandi imvi, ari kumwe n'umukobwa ukiri muto mwiza, wambaye indorerwamo, wambaye kandi n'umupira urimo imirongo y'umukara ndetse n'umweru yarengejeho ikote, urabona ko bishimye pe! bahagaze ahantu inyuma yabo hasa umukara.

Umusaza bigaragara ko ageze mu za bukuru wambaye indorerwamo z'amaso arikumwe kandi n'umuhungu we wambaye ishati iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara bakaba bari gufatanya gusoma igitabo kugira ngo biruhure uwo musaza mu mutwe arusheho kugira ubuzima bwiza kandi bimurinde imihangayiko, imbere ya bo hari ameza ateretseho ibikombe bibiri by'ibibumbano biri mu mabara y'umweru bakaba mu cyumba kinini cy'isanzuye kirimo ngi ry'umweru.

Umugabo bigaragara ko ashaje, afite imvi ziri mu bwanwa, hari kandi n'umukobwa wambaye impuzankano yo kwa muganga, ndetse n'agakoresho kabugenewe mu gupima ko umutima utera mu ijosi, afite kandi agakoresho kabugenewe mu gupima umuvuduko w'amaraso, ari gupima uwo musaza ngo arebe uko umuvuduko w'amaraso we uhagaze.

Abantu benshi bari mu za bukuru barimo abakecuru ndetse n'abasaza. Imbere yabo hari umukecuru uri kuberekera imyitozo bakora bifashishije udukoresho twabugenewe, bibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza buzira umuze cyangwa se indwara zifata abageze mu za bukuru.

Umusaza ndetse n'umukecuru ubona ko bageze mu zabukuru, bicaye mu nzu nziza isize amarangi meza, imbere yabo hakaba hari ameza ariho agakarito karimo ibinini, bakaba kandi bafite mu ntoki zabo agapapuro kanditseho uburyo iyo miti ikoreshwa, bakaba bari gusoma kugira ngo babashe kubahiriza amabwiriza agenga iyo miti.

Umugabo u ufite ikigargara yuko ageza umuntu ukuze ubuzima bwiza

Umugabo uryamye ku gakoresho kabugenewe ku guterurirwaho abarwayi, iruhande rwe hari abantu bambaye imyambaro yabugenewe yo kwa muganga, bikaba bigaragara yuko yari agize ikibazo agahwera, bityo bakaba bari kugerageza kuba bamwongerera umwuka ngo barebe yuko yagarura ubuyanja.

Abayobozi batandukanye mu nzego z'ubuzima barimo abagabo ndetse n'abagore, bahagaze kandi imbere y'icyapa kinini cy'ubururu kiriho ibirango bya Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, muri abo bayobozi barimo kandi Dogiteri Sabe NSANZIMANA uyobora Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda.

Agapfunyika kari mu ibara ry'umweru kanditseho amagambo mu ibara ry'umukara ndetse kandi hakaba hariho n'ibirango by'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana ndetse n'ishami ryita ku buzima, hakaba harimo urukingo rw'icyorezo cya covid nineteen.

Icyapa kinini, kiriho amabara atandukanye arimo umweru ari wo wiganje, icyatsi, ubururu, umuhondo n'umutuku, akaba kandi hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara. Icyapa kikaba kiri gutanga ubutumwa bushishikariza abantu kumenya ibibi byo gukuramo inda, bikaba byarabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, nibwo ubwo bukangurambaga bwatanzwe.

Abaganga batandatu bambaye imyenda yabugenewe yambarwa mu gihe cyo kwirinda ibyorezo mu gihe bari kwita ku murwayi, igizwe n'iyenda ibahisha umubiri wose, indorerwamo ndetse n'agapfukamunwa n'uturindantoki, nyuma yaho kandi hari n'undi muntu ukora kwa muganga na we wambaye agapfukamunwa.

Abayobozi banyuranye mu nzego z'ubuzima barimo abagabo ndetse n'abagore, inyuma yaho hari icyapa kinini cy'ubururu kiriho ibirango bya Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, bari kumwe kandi na Dogiteri Sabe Nsanzimana Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda, ahagaze hagati yabo.

Abantu benshi bambaye impuzangano iri mu ibara ry'umutuku werurutse, bambaye udupfukamunwa bose, imbere urabona ko hicaye abari bakiri batoya, bakaba bari kubigisha ibijyanye no kwigirira isuku mu gihe bari mu mihango, hari kandi n'abantu bakuru ubona ko ari bo bahagarariye icyo gikorwa, bafite ibikoresho binyuranye by'isuku mu gihe cy'imihango bagiye kugeza kuri aba bantu.

Inama yabereye i Kigali ku italiki makumyabiri zukwa cumi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, yitabiriwe n'abantu banyuranye iyobowe na Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dogiteri Sabe Nsanzimana, ndetse n'umukuru w'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kwita ku buzima ku isi. Bakaba bari bari gutanga ingamba zakwifashishwa mu gukuraho ndetse no kurandura burundu icyorezo cya malibage giherutse kwibasira u Rwanda.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kiriho amagambo, ibimenyetso ndetse n'umubare byanditse mu ibara ry'umweru, kikaba kiri kwerekana ingamba y'iterambere rirambye mpuzamahanga yashyizweho n'umuryango w'abibumbye ya gatatu, muri cumi na zirindwi zashyizweho, iyo ya gatatu ikaba ivuga ku bijyanye n'ubuzima bwiza ndetse no kubaho neza.

Inzu nziza yubutse ku uburyo bugezweho ikoraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari itorero ryambaye imishanana ririmo abagabo ndetse n'abagore inyuma kandi ku rukuta hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku kikaba kiri kwerekana yuko bari bari kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya Sida ukaba wari wabereye i Rubavu ku itariki ya mbere ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu, kiriho ikirangantego kigizwe n'ingabo ebyiri: agaseke, isaka ndetse n'ikawa, ndetse n'izuba n'ingata, akaba kandi hariho amagambo yerekana yuko ari ikirango cya minisiteri y'ubuzima mu Rwanda.

Umusaza wicaye yasamye, bari kumukoza akantu mu kanwa bigaragara ko ariko kumusuzuma indwara. Hari kandi abaganga babiri barimo n'uri kumusuzuma bambaye impuzangano yo kwa muganga, yabugenewe mu kwambarwa mu gihe cy'ibyorezo hirindwa yuko bayandura mu gihe bari kuvura abarwayi. Hirya yabo kandi hari abandi bantu benshi batonze umurongo, bigaragara ko bategereje kwisuzumisha. Hakaba hari n'ameza ariho ibikoresho byabo.

Icyapa kiri mu ibura ry'umweru cyanditseho inyuguti mu ibara ry'ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse n'izindi nyuguti zikaba zanditse mu ibara ry'umukara kikaba ari ikirango'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Icyumba kigari cyisanzuye cyabereyemo inama mpuzamahanga ku nshuro ya makumyabiri iganira ku buryo bwo kwirinda sida ndetse n'izindi ndwara z'ibyuririzi, ikaba yarabaye ku itariki ebyiri ukuboza mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda, ikabera mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, mu nyubako izwi cyane nka convention center.

Icyumba kigari cyisanzuye kirimo insakazamashusho ndetse hakaba harimo n'icyuma cyabugenewe gikoresha ikoranabuhanga rigezweho, cyifashishwa mu kureba imbere mu mubiri w'umurwayi bamusuzuma indwara zinyuranye yaba arwaye.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho, irimo amakaro, isizemo amarangi y'umweru, harimo kandi n'amatara menshi kandi meza ndetse n'intebe zigezweho, hakaba kandi hari n'ahantu handitse amagambo mu ibara ry'umukara, yerekana yuko ari kwa muganga, hakaba ari ahakirirwa abarwayi.

Umwana ukiri mutoya wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga, ahantu hanze, imbere ye hari inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, bigaragara yuko ari ku ivuriro kwa muganga aho uwo mwana ari kuvurirwa, hakaba kandi imbere hahagaze n'umuntu wambaye umwambaro w'umuhondo, hakaba hari n'ikigega gishinzwe gufata amazi.

Icyumba kigari kisanzuye cyubatse ku buryo bigezweho, kirimo intebe nziza zirimo ibara ry'umukara, zicayeho kandi abantu banyuranye barimo abagore ndetse n'abagabo, akaba ari kwa muganga, bakaba bicaye bategereje kwakirwa.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho, ifite inzugi nziza zikoze mubirahure, hakaba kandi yanditseho amagambo mu mabara anyuranye arimo umutuku n'ubururu n'umuhondo ndetse n'icyatsi, aya magambo akaba yerekana yuko ari ahavurirwa abana.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho irimo ibara ry'umweru, umukara n'amadirishya meza akoze mu birarahure ndetse n'amatara meza. Hakaba harimo ameza atandukanye ariho n'ubukarabiro bw'intoki, bikaba bigaragara yuko ari kwa muganga kuko harimo n'ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga.

Icyumba kigari cyisanzuye, kirimo abantu bigaragara yuko bageze mu zabukuru, kikaba kiri gutangirwamo amahugurwa ajyanye n'uburyo bwo kwirinda ndetse no gukumira ihohoterwa rikorerwa abageze mu zabukuru, kikaba kiyobowe n'abagabo batatu, umwe muri bo arahagaze ni we ufite ijambo.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho. Imbere yaho kandi hari icyapa kiri mu mabara y'icyatsi cya gisirikare, mu mweru hariho ikirangantego cy'u Rwanda hakaba kandi hariho n'amagambo yanditseho, yerekana yuko ari ku bitaro bikuru bya gisirikare biherereye i Kanombe bizwiho kuvura indwara nyinshi zinyuranye kandi bakabikorana ubunyamwuga kandi neza.

Uruzitiro rukoze amatafari ahiye ruriho irangi ry'umweru ndetse n'ibyuma bifite ibara ry'umukara. Iruhande hari ubusitani bwiza burimo ibyuma bishinze biri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, bikaba ari ibyicungo byifashishwa mu guha ibyishimo ingeri zinyuranye cyane cyane abana.

Abagore babiri bigaragara ko bakuze bari kumwe kandi n'undi mugore wambaye impuzankano yo kwa muganga, wambaye uturindantoki, indorerwamo z'amaso ndetse n'agapfukamunwa, bikaba bigaragara ko ari bapima umuvuduko w'amaraso, undi akaba yicaye nawe ategereje yuko bamupima.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho, ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, iriho kandi amagambo yanditse mu ibara ry'umweru yerekana ko ari ku marembo y'ibitaro bikuru bya Nyarugenge, hariho kandi n'imitako izwi ku izina ry'imigongo mu kinyarwanda.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho, hakaba hakorera ibitaro bikuru bizwi nka Ircad biherereye i Masaka, bizwiho kubaga abarwayi barwaye indwara zitandukanye batabashwanyaguje umubiri, ahubwo bifashishije ikoranabuhanga rigezweho.

Uburyo bwiza hakaba hariho icyapa kinini kiri mu mabara y'umukara ndetse n'icyatsi cyerekana ko ari ku bitaro bikuru bya Rwamagana imbere hahagaze abantu barimo abagabo n'abagore b'abazungu ndetse n'abirabura bigaragara y'uko hari amahugurwa bahasoreje bakaba barigufara ifoto y'urwibutso.

Ni inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho ifite igisinge gisakaye mu buryo bwiza, hakaba kandi hateyeho n'irangi ry'umweru hakaba handitsweho n'amagambo ari mu ibara ry'ubururu byerekana ko ari ku kigo nderabuzima cya Shagasha imbere yaho hicaye abantu bigaragara ko baje kwivuza.

Ibitaro byubatse neza bifite inyubako z'imiturirwa zigezweho, bikaba ari ibitaro bikuru bya Nyarugenge, biherereye mu Mujyi wa Kigali, imbere yaho kandi hari akayira kahagana na ko gakoze neza n'ubusitani bwiza cyane burimo ibimera bitandukanye.

Icyumba kirekire kigari cyisanzuye, kirimo ibitanda biryamaho abarwayi baje kwivuza kwa muganga, harimo kandi n'ibindi bikoresho byabugenewe byifashisha ikoranabuhanga bikoreshwa mu kuvura abarwayi, bifite kandi insakazamashusho zikoreshwa zerekana uburyo ubuzima bw'umurwayi buhaga....

Icyumba kigari cyisanzuye kirimo amabara meza y'ubururu, hakaba harimo kandi n'ibikoresho bigiye bifite amabara atandukanye arimo umutuku, ubururu. Ibyo bikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, icyo cyumba rero kikaba cyarahariwe gukorerwamo iyo myitozo ngororamubiri n'ingeri zitandukanye.

Icyumba kinini kigali cyubatswe ku buryo bugezweho, kirimo ibyapa binini biriho ibirango by'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, hari kandi umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umuumukara, uhagaze imbere y'abandi bantu bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'amazi, bigaragara ko uwo mugabo ari we ufite ijambo, akaba hari ubujyanama ari kubaha ku bijyanye n'uburyo bwo kurwanya malariya bishingiye ku baturage.

Icyumba kiza kigari kisanzuye, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hakaba kandi harimo n'igitanda, gifite kandi n'agakoresho kabugeni gakandagirwaho kugira ngo umuntu yegere igitanda, harimo urukarabiro, biragaragara yuko ari ahavurirwa abana, hakaba kandi hashushanyijemo n'ibishushanyo biri mabara meza, yarangaza umwana mu gihe arwaye.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, barimo abazungu ndetse n'abirabura bari gufatira ifoto y'urwibutso ku cyapa cyerekana ko bari mu bitaro bikuru bya Butaro, bakaba bigaragara ko bahasuye, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba kiza kigali kirimo amarangi meza, kirimo kandi n'insakazamashusho zimanitse ku rukuta, harimo kandi n'ibikoresho byiza bigezweho byagenewe mu kwifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Icyumba kinini cyisanzuye kirimo isakazamashusho iri gutambukaho amakuru, harimo kandi n'ibikoresho bigezweho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri bikaba bigaragara yuko iki cyumba cyagenewe gukorerwamo iyo myitozo.

Icyumba kigari cyisanzuye kirimo imiryango ijya mu byumba bitandukanye, hakaba ari kwa muganga hari kandi n'abantu bambaye impuzankano yo kwa muganga yiganjemo iy'ubururu bigaragara bari kugerageza kujya kwita ku barwayi bashinzwe.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho, ifite igisenge gisakaye ku buryo bugezweho, hakaba kandi handitseho amagambo mu ibara ry'ubururu arimo ikirango cya kaminuza y'u Rwanda, hakaba kandi herekana yuko ari mu isuzumiro ku bijyanye n'imiterere y'udukoko dutera indwara cyane cyane udutera marariya ndetse n'izindi ndwara. Imbere yaho kandi hahagaze umugabo wambaye impuzankano yo kwa muganga bigaragara ko ahakora.

Inzu nzizazo yubatse ku buryo bwiza irimo amabara meza y'umweru amatara meza yaka kandi cyane hakaba kandi harimo inkuta zisizeho irangi ry'icyatsi hakaba kandi n'urundi rukuta rwanditseho amagambo mu ibara ry'umweru yerekana yuko ari mucmba kijyanwamo inkomere n'indembe zikabije.

Icyumba kigari, cyisanzuye, kirimo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kubika ibikoresho byo kwa muganga, mu buryo bwiza butuma bitangirika, harimo kandi n'umumama bigaragara ko akuze w'umuzungu wambaye impuzangano yo kwa muganga, ari imbere y'icyuma kimwe muri ibyo, yagifunguye, bigaragara yuko hari ibintu ari kubikamo kugira ngo abirinde kwangirika.

Utubati twinshi twiza dutondetsemo imiti inyuranye ivura indwara zitandukanye hakaba kandi hariho n'icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi kikaba kigaragaza yuko ahonga hacururizwa iyo miti ivura indwara zitandukanye.

Umugabo wambaye impuzangano yo kwa muganga iri mu ibara ry'ubururu, yambaye kandi n'ibikoresho kabugenewe mu kumva uburyo umutima utera, ari kumwe n'umumama wambaye igitenge bigaragara ko ashaje, hari ibyo ari kumusobanurira kubijyanye n'ubuzima.

Icyumba cyiza cyubatse mu buryo bugezweho kirimo ameza menshi ateretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, bikoresha ikoranabuhanga rigezweho, bifite kandi n'insakazamashusho zifashishwa bareba uko ubuzima bw'umurwayi bumeze.

Icyumba cyiza kirimo amarangi y'umweru kikaba kiriho n'idirishya rikoze mu kirahure harimo kandi insakazamashusho zifashishwa mu kwerekana uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze hakaba harimo n'igitanda umurwayi uharwariye aryamaho harimo n'ibindi bikoresho bikoresha ikoranabuhanga rigezweho byifashishwa mu kumenya uko ubuzima bw'umurwayi bumeze.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho, iteye amarange y'umweru, ifite amabati y'ubururu, yanditseho kandi amagambo ari mu ibara ry'ubururu bigaragaza yuko ari ku kigo nderabuzima cya shagasha, imbere yaho kandi hicaye abantu bigaragara ko ari abarwayi bategereje kwivuza.

Icyumba kigari cyisanzuye kirimo ibitanda byiza biryamyeho abagabo babiri bigaragara ko barwaye hagati yabo hari ameza ateretseho amazi harimo kandi n'ibikoresho bigezweho byabugenewe mu kwifashishwa mu kuvura no kwita ku barwayi bakaba kandi bari mu bikoresho bibafasha mu kubongerera umwuka.

Umusaza bigaragara ko ageze mu zabukuru. Yicaranye kandi n'umukobwa ukiri mutoya wambaye impuzankano yo kwa muganga. Akaba afite agakoresho kabugenewe, ari kumupima umuvuduko w'amaraso indwara ikunze kwibasira abageze mu zabukuru. Bose bafite ibyishimo ku maso yabo, bigaragara ko ubuzima bw'uwo musaza bumeze neza.

Icyumba kigari cyisanzuye gisizemo irangi ry'umweru kirimo n'amakaro meza kikaba kandi kirimo utubati twinshi dutondetsemo imiti inyuranye. Hakaba kandi harimo icyapa cyerekana yuko aho ngaho hacururizwa imiti nyine ivura izo ndwara zitandukanye.

Umugore uryamye wambaye igitenge, hari kandi n'undi mugore wambaye impuzankano yo kwa muganga, indorerwamo n'uturindantoki, bi kugerageza kumuvura. Iruhande kandi hahagaze n'undi mugore bigaragara yuko ari kumufasha.

Icyumba kigari cyisanzuye kirimo amabara y'umweru ndetse n'ay'icyatsi n'umweru hasi, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri harimo ibinanura amaguru, ibyo baterura ndetse n'ibindi binyuranye, iki cyumba kikaba cyarahariwe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Umurwayi uryamye ugaramye urikorerwa igikorwa cyo kubagwa kwa muganga, hari abaganga batatu bari kumwitaho, umwe muri bo yicaye ku ntebe yegereye umurwayi, ari gukoresha igikoresho cyabugenewe mu kureberwamo amashusho akaza ari manini kugira ngo arebe neza igice cy'umubiri ari kubagamo uwo murwayi ataza kwibeshya akaba yateza ingaruka uwo murwayi zirimo n'iz'urupfu.

Icyumba cyiza, cyubatse ku buryo bwiza bugezweho, bukoranye ikoranabuhanga, hakaba harimo utubati twinshi tunyuranye, tugiye turimo udupfunyika, turimo amaraso, akaba ari kwa muganga ahabikwa amaraso yagenewe gutabara indembe, aba yatanzwe n'abantu banyuranye.

Abantu bambaye udupfukamunwa barimo abagabo, abagore, bahagaze imbere y'inzu yubatse neza, yubakishije amatafari ahiye, yanditseho amagambo mu ibara ry'icyatsi, yerekana yuko ari ahabugenewe mu gufasha abana bahuye n'ihohoterwa ku bitaro bikuru bya Kabutare.

Umukobwa wirabura, ukiri muto, wambaye indorerwamo, agapfukamunwa, amaherena ndetse ufite imisatsi isutse neza, yambaye kandi n'impuzangano yo kwa muganga iri mu ibara ry'umweru, imbere ye hari ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, hari kandi na mudasobwa ari kwifashisha arebamo ngo arebe amakuru atandukanye ku barwayi bafite.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho, yubakishijwe amabuye azwi nk'amakoro aboneka cyane mu gice cy'ibirunga, imbere y'aho mu kayira kagenewe abanyamaguru harimo abakozi bo kuri ibyo bitaro bari kunyuramo bambaye impuzankano yo kwa muganga.

Ikigo nderabuzima cyiza, cyubatse ku buryo bugezweho, kirimo amazu meza kandi asakaye neza. Ku marembo yaho hariho icyapa cyerekana yuko ari ikigo nderabuzima cya Kigina, giherereye mu karere ka Kirehe, intara y'ububurasirazuba. Imbere yaho kandi hakaba hari umugore uhetse umwana, uri kugana icyo kigo nderabuzima.

Inzu nziza y'umuturirwa yubatse mu buryo bugezweho, imbere yayo hari Idarapo rya Afurika y'Uburasirazuba, hakaba kandi hari n'icyapa kinini cyerekana yuko ari ku bitaro bikuru bizwi nko kwa Nyirinkwaya biherereye mu mujyi wa Kigali.

Icyumba cyiza cy'ubusukuriro bwiza bugezweho kirimo amakaro y'umweru, kinarimo irangi ry'umweru. Kirimo kandi igitanda cyiza gisashe neza kiryamaho abarwayi, hakaba kandi harimo n'ibindi bikoresho binyuranye byifashishwa kwa muganga.

Inzu nziza y'umuturirwa yubatse ku buryo bugezweho, imbere yayo hari abantu bambaye imyambaro igizwe n'amashati y'umweru bafite mu ntoki zabo ibintu bazanye, ikaba ikoreramo ibitaro byitiriwe Umwami Fayisari bikorera mu mujyi wa Kigali mu Rwanda bizwi cyane mu kuvura indwara zinyuranye by'umwihariko izikomeye.

Inzu ziza yubatse k,uburyo bugezweho iri mu mabara y'umweru hakaba kandi hariho n'amadirishya meza y'ibirahure afiteho ibara ry'umukara hari n'ibyapa kandi biri mu mabara y'umweru bifashwe n'ibyuma biriho inyuguti zanditse mw,ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo bikaba bigaragara ko bakorera uruganda rukora inkingo ruzwi ku izina rya biyonitake.

Icyumba cyiza cyubatswe ku buryo bigezweho, cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo kandi n'ibikoresho byiza bigezweho, abahakorera iyo myitozo bifashisha.

Icyumba cyiza cyubatse ku buryo bugezweho, kirimo amarange meza cyane y'umweru, harimo kandi n'ibikoresho byinshi binyuranye, byifashisha ikoranabuhanga rigezweho, bikoreshwa mu kuvura abarwayi. Harimo kandi n'insakazamashusho yifashishwa mu kureba uko imbere mu mubiri w'umurwayi hameze.

Icyumba kiza cyubatse mu buryo bugezweho, kirimo amarangi y'umweru n'amadirishya meza y'ibirahure, hakaba harimo ibitanda bitandukanye, biryamaho abarwayi, hakaba kandi harimo n'umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ari kuzingira umurwayi inzitiramibu, akaba ari kwa muganga.

Inzu nziza yubatswe ku buryo bugezweho, ifite amarangi meza, hakaba ari ahavurirwa ababana n'ubumuga bwo mu mutwe, haherereye i Ndera mu mujyi wa Kigali.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho, iriho icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, akaba ari ahakorera ibitaro bikuru bya Butaro bishinzwe kuvura ndetse no kurwanya indwara ya kanseri mu Rwanda.

Umukobwa ukiri muto yambaye impuzangano yo kwa muganga ufite imisatsi isutse neza ari kwita kandi ku murwayi uryamye ku gatanda k'abarwayi boroshe neza bikaba bigaragara yuko ari kugerageza kumwitaho ngo abe yamuvura uburwayi afite.

Umugabo wambaye impuzankano yabugenewe yo kwa muganga iriho ikirango cya kaminuza y'u rwanda ari kumwe n'umwana wambaye impuzankano y'ishuri bafite mu intoki zabo igikoresho cyerekana imiterere y'amenyo uwo muganga afite agakoresho kabugenewe bigaragaza yuko ari gutoza uwo mwana isuku yo mu kanwa inyuma yabo kandi hagaze abantu batandukanye bigaragara yuko ari abayoboye ubwo bukangurambaga

Icyumba gikoraniyemo inama yahuje abanyamakuru ndetse n'abayobozi b'ikigo cya geyini gishinzwe kwita ku bantu bafite ubumuga bw'ingingo. Abanyamakuru barimo bafite ibifata amashusho bafite kandi n'aho bari kwandika kugira ngo bakusanye amakuru bari guhabwa n'abo bayobozi. Ikigo kikaba cyaruzuye gitwaye asaga miliyoni na miliyari magana atanu z'amanyarwanda.

icyumba cyiza kirimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru. Harimo kandi n'imashini yabugenewe, ikoresha ikoranabuhanga rigezweho, yifashisha mu kureba imbere mu mubiri w'umurwayi, ikibazo yaba afite cyangwa se uburwayi yaba afite.

Inzu nziza zubatse ku buryo bugezweho, akaba ari ku bitaro bizwi nka irikadi biherereye mu mujyi wa Kigali mu gace kazwi nka Masaka. Hakaba havurirwa abarwayi bakeneye kubagwa, bakifashisha ikoranabuhanga mu kubabaga, bitabaye ngombwa y'uko bashwanyaguza umubiri wabo.

Icyumba kigari kisanzuye kirimo ibikoresho bitandukanye, kikaba ari icyumba kibagirwamo abarwayi bakeneye ubufasha. Kirimo agatanda umurwayi aryamaho, kikabamo kandi n'amatara atanga urumuri ruhagije kugira ngo abaganga babe bareba neza, harimo kandi n'ibindi bikoresho byifashisha ikoranabuhanga rigezweho bakoresha.

Icyumba cyiza kisanzuye, kirimo ibishushanyo by'inyamaswa mu mabara atandukanye, harimo kandi n'ibikoresho binyuranye byifashishwa mu buvuzi birimo intebe, ameza ndetse n'ibindi, hakaba havurirwa abana.

Icyumba kigari cyisanzuye kirimo abantu bambaye impuzangano, iri mu mabara abiri iy'umuhondo ndetse n'iy'ubururu bwerurutse, bikaba bigaragara yuko ari abajyanama b'ubuzima, bari guhabwaga amahugurwa ku ngamba zinyuranye z'ubuzima ngo bajye gufasha abaturage mu duce batuyemo kuzubahiriza.

Inzu ngari yisanzuye irimo ibyumba bitandukanye, bikingishije inzugi nziza zikoze mu mbaho, hateyemo kandi irangi ry'umweru, hasi harimo amakaro, harimo n'amatara meza, akaba ari kwa muganga, ibyo byumba bikaba bigiye bifashirizwamo abarwayi ku buryo butandukanye ndetse banarwaye indwara zitandukanye.

Inzu nziza yibutsa ko buryo bugezweho yubakishije amatafari ahinye hakaba kandi harihoho icyapa cyerekana yuko aho ngaho ari ahavurirwa amaso hari n'icyapa kandi cyerekana ko ari ku bitaro bikuru bya gihundwe.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho ikingishije urugi rw'ibirahuri. Ikaba irimo utubati twinshi turimo indorerwamo zitandukanye, bikaba bigaragarira yuko havurirwa uburwayi butandukanye bw'amaso. Hakaba harimo izo ndorerwamo zunganira uwagize ikibazo mu bijyanye no kureba, kugira ngo arusheho kureba neza.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho, ikaba iriho icyapa cy'umuhondo cyerekana ko ari ku bitaro bikuru bya Shyira. Bikaba ari ibitaro byubatswe havugururwa ibyari bisanzwe, nyuma y'uko byari bigaragaye ko bishaje, ndetse bikaba binakira abarwayi bakeye. Ibi bitaro byubatswe ku bufatanye bw'ikigo cy'imari gikorera mu Rwanda cy'Abanyakenya. Bikaba byaratashywe mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi mu kwezi kwa Karindwi.

Icyumba cyiza kigari cyisanzuye, kimanitsemo indangagihe, kirimo kandi n'ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, bikaba bigaragara ko ari icyumba cyahiswemo gikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho iteye irangi ry'umweru y'umuturirwa, imbere yayo hariho icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi cyerekana y'uko ari inzu yo mu bitaro yahariwe kubyariramo ndetse no kuruhukiramo ababyeyi bamaze kubyara.

Inzu nziza y'umuturirwa yubatse mu buryo bugezweho imbere yaho hari icyapa kiri mu mabare y'umweru, umuhondo n'icyatsi n'ubururu akaba ari ku bitaro bikorera mu mujyi wa Huye i Butare bizwi nka Sangwa palytechnic imbere yaho haparitse imodoka hari n'abagabo batatu bambaye amakote.

Icyumba cyiza cyubatse ku buryo bugezweho kirimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru, hakaba kandi harimo icyuma kinini cyabugenewe cyifashishwa mu kureba imbere mu mubiri w'umurwayi niba yaba arwaye kanseri, cyangwa se harebwa urwego kanseri ye yaba igezeho ,iki cyuma kikaba kizwi cyane mu Rwanda mu kigo gishinzwe kurwanya kanseri mu Rwanda giherereye mu bitaro bikuru bya butaro.

Ni ibitaro byubatse ku buryo bugezweho, n'amazu y'imiturirwa, biherereye mu mujyi wa kigali imasaka, rizwi ku izina rya IRCADE, habagirwa abarwayi bifashishije ikoranabuhanga rigezweho, aho umurwayi bitakiri ngombwa yuko umubiri we ushwanyaguzwa, ahubwo bakoresha ikoranabuhanga bakamubaga kandi neza.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho ikaba iriho kandi icyapa kinini kiri mu mabara y'icyatsi cyerekana yuko ari ku kigo gishinzwe kuvura no kurwanya kanseri mu Rwanda kikaba giherereye mu bitaro bya Butaro

Inzu yubatse n'amatafari ahiye, hariho kandi ibara ry'umweru ryanditsweho mu ibara ry'ubururu amagambo yerekana yuko ari ahakirirwa abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane ab'abana.

Icyumba cyiza kigari cyisanzuye, kirimo ibikoresho binyuranye byifashishwa kwa muganga bigezweho, bifite isakazamashusho yerekana uburyo ubuzima bw'umurwayi buhagaze, harimo kandi n'udutebe tugezweho twicarwaho n'abarwayi igihe babavura.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho hakaba kandi hariho icyapa kinini cy'amabara y'umweru ndetse n'icyatsi cyerekana yuko hari ahacururizwa imiti ivura indwara zitandukanye, hakaba kandi hariho n'ubwishingizi bakorana nabwo, mo imbere harimo abagore abana n'abandi bantu baje kugura imiti.

Inzu nziza yo m'umuturirwa yubatse ku buryo bugezweho. Ikaba iriho amagambo yerekana yuko hakoreramo ikigo cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima, kikaba ari ikigo cyigenga cyashyizweho mu Rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri mu kwezi k'ukuboza ,kikaba kidakorera gusa mu Rwanda ahubwo no muri Afurika y'uburasirazuba ndetse no muri Afurika hose.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho, iteye amarangi y'umweru ndetse n'icyatsi hakaba ariho n'akapa k'umweru kariho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi bigaragara yuko ari inzu iruhukiramo ndetse ikanabyariramo ababyeyi imbere yaho kandi hakaba hahagaze umuganga wambaye impuzankan yo kwa muganga ndetse n'agapfukamunwa hiriye imbere kandi hari n'andi mazu akorerwamo ibindi bikorwa bitandukanye bijyanye n'ubuvuzi.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi ifunze, wambaye umwambaro uciye amaboko wabugenewe mu gukoranwa imyitozo ngororamubiri, akaba afite icupa ririmo amazi ari kuyanywa bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri akaba yagize inyota ayakeneye kugira ngo yongere agarure imbaraga.

Umuntu uryamye uhenye ivi, hari kandi n'umuganga wambaye impuzankano yo kwa muganga yambaye n'agakoresho kabugenewe mu kumva uburyo umutima uri gutera. Akaba ari kugerageza kumukandira mu ivi bigaragara yuko yagiriye ikibazo mu myitozo ngororamubiri cy'imvune, bakaba bari kugerageza kumwunga ngo barebe ko yakira akongera kumera neza.

Umukobwa mwiza ukiri muto wambaye impuzankano yo kwa muganga, yambaye kandi uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa mu ijosi rye, yambaye agakoresho kabugenewe mu kumva uburyo umutima w'umurwayi utera, imbere ye hari mudasobwa hakaba kandi n'ibipapuro binyuranye bigaragara ko birimo amakuru y'abarwayi atandukanye.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi, hariho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, umweru, icyatsi. Hariho kandi n'amashusho ari mu ifoto y'umuntu w'umugore abiri, umwe wicaye n'undi uhagaze, akaba akiri kwerekana imyitozo ngororamubiri umuntu yakora, nyuma y'uko agize imvune kugira ngo akire.

Umugabo wicaye ku gitanda cyagenewe abarwayi, ari kumwe kandi n'umuganga bigaragara ko ari umugore, ari kumuzengurutsa ku kaguru ke ku gice cy'ikire igitambaro kiri mu ibara ry'ubururu cyabugenewe mu gufata amagufwa ahantu havunitse kugira ngo atarushaho kwizunguza, bikababaza uwavunitse cyangwa se bikaba byamuviramo imvune ikabije. Biragaragara ko yavunikiye mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri, ari kumwe kandi n'umugore wambaye umupira w'umukara ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari kugerageza kumushyirira igikoresho cyabugenewe mu kuvura imvune zoroheje ku kiganza, bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri akaba avunitse, agira ngo bamuhe ubutabazi bw'ibanze.

Uducupa dutatu turi mu mabara y'umweru dufite imifuniko y'umweru, hari kandi ibyapa biri mu mabara y'ubururu, umutuku, umweru ndetse n'umuhondo. Hakaba harimo imiti yifashishwa mu kuvura imvune umuntu yaba agiriye mu myitozo ngororamubiri.

Umusore bigaragara ko akiri muto, wambaye imyambaro yagenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri, uri ahantu hari ibiti byinshi bitoshye inyumaye, akaba afite mu ntoki ze icupa ryiza ribonerana rifite umufuniko w'ubururu, ririmo amazi meza ari kunywa, bigaragara ko yari agiriye inyota mu myitozo ngororamubiri, akaba ari kunywa amazi ngo yongere agarure imbaraga.

Akabati gafite ibara ry'umweru gatondetsemo udukweto dufite amabara atandukanye arimo umweru n'ubururu ndetse n'umweru n'umuhondo, hakaba harimo imiti itandukanye yifashishwa mu kugabanya ububabare ndetse n'iyifashishwa mu kuvura imvune, ifasha abantu igihe bagize ikibazo mu myitozo ngororamubiri bakaba babavura ngo bongere bamere neza.

Amaguru y'umuntu wambaye ikabutura y'umukara uhinnye amaguru, afite kandi igikoresho cyabugenewe mu gukanda imvune kiri mu ibara ry'ubururu. Agifatiye ku gice cye cy'ivi bigaragara ko yagiriye ikibazo cy'imvune mu myitozo ngororamubiri. Akaba ari kwikanda kugira ngo arebe ko yakongera kumera neza.

Umuntu wambaye imyambaro yabigenewe mu gukora myitozo ngororamubiri, irimo umupira w'umutuku, ikabutura y'umukara n'umutuku, inkweto z'umweru ndetse n'amasogisi y'umukara. Ahagaze ku kaguru ke kamwe ari kwinanura, bigaragara ko rwose ibintu byo gukora imyitozo ngororamubiri abimenyereye.

Umuntu uryamye yubitse inda, akaba yambaye imyambaro yabugenewe kwa muganga yambarwa n'abarwayi bari kwitabwaho. Mu mugongo we hagiye hacometseho utuntu twifashishwa n'icyuma cyerekana uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze, akaba ari kumwe n'umuganga kandi wambaye agapfukamunwa, ari we uri kumwitaho.

Umukobwa mwiza ukiri muto wirabura afite imisatsi myinshi y'umukara, yambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri bikaba bifite n'akantu kabugenewe mu kubika telefoni ngendanwa mu gihe cy'imyitozo, yambaye kandi n'utuntu mu matwi tumufasha kumva amajwi wenyine afite mu ntoki z'icupa ry'amazi ariko kuyanywa ngo arebe ko yahagara ubuyanja agakomeza imyitozo ye.

Umukobwa wambaye imyambaro igezweho yabugenewe mu gukoranwa imyitozo ngororamubiri imwegereye, ikaba iri mu ibara ry'ubururu bwerurutse, aricaye yarambuye amaguru ye ndetse n'amaboko ari kugerageza gukoza umutwe ku mavi kugira ngo yinanure.

Ibiganza by'umuntu wirabura bifashe agakoresho kari mu ibara ry'umukara, kabugenewe mu kwambarwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri kugira ngo hirindwe imvune zava muri iyo myitozo ku gice cy'amavi.

Umuhungu wambaye umupira umwegereye wabugenewe mu gukoranwa imyitozo ngororamubiri, akaba kandi yambaye n'utugozi twabugenewe mu kumviramo amajwi ku buryo bwawe bwite, akaba afite icupa ribonerana ririmo amazi, bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri, akaba agize inyota ari kunywa amazi kugira ngo arebe ko yagarura imbaraga.

Udukarito tubiri duteretse turi mu ibara ry'umutuku hakaba hariho ibirango biri mu mabara y'umweru ndetse n'umusaruro uri mu ibara ry'umutuku hagati yabyo kandi harimo icupa riri mu m'amabara y'umweru bikaba birimo ibyangombwa byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze mu gihe umuntu yaba agize ikibazo k'imvune igikomere cyangwa se ubushye cyangwa se ikindi kibazo cy'ubuzima gitunguranye.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yabugenewe mu gukoranwa iyo imyitozo, igizwe n'umupira uciye amaboko kandi mugufi umwegereye ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'ubururu. Ari kandi ahantu hari irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Ibiganza bibiri birebana. Byambaye uturindantoki turi mu ibara ry'umukara, twifashishwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri, kugira ngo hirindwe imvune cyangwa se igisebe ku gice cy'ikiganza.

Igikata kiri mu mabara y'umutuku, kirimo ibikoresho bitanga ubutabazi bw'ibanze mu gihe umuntu agitegereje kugezwa kwa muganga, birimo: imikasi, ibipfuko, inshinge, udukoresho dupima ubushyuhe, udupima uburyo umutima uteramo, ndetse n'udupima umuvuduko w'amaraso.

Umukobwa wicaye yambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, ari kugorora umubiri we afashe ku mano ye ndetse amavi ye ari kugerageza kuyatandukanya kugira ngo ayananure, yicaye ahantu heza, hari intebe nziza ndetse harimo kandi n'ibirahure byiza n'amarange y'umweru.

Umusore uryamye yubitse inda ku gadanda kabugenewe guterurirwaho ibyuma biremereye mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri, yambaye n'imyenda yabugenewe gukoranwa iyo myitozo, aka afite n'imisatsi isutse ibituta. Iruhande rwe hakaba hari umugabo na we wambaye imyenda yabugenewe w'umuzungu bigaragara y'uko ari kumutoza ibyo akora. Bakaba bari mu nzu yabugenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye imyenda yabugenewe mu gukoranwa imyitozo ngororamubiri, igizwe n'umupira, ikabutura ndetse n'inkweto. Ahagaze ku kaguru ke kamwe, akandi yakarambuye ku cyuma gikikiye iteme riri ku mugezi, akaba ari kwinanura.

Umuntu wambaye impeta bigaragara yuko yakoze ubukwe, afite kandi agakoresho kabugenewe mu gukanda imvune, yagashyize ku gice cye cy'inkokora bigaragara yuko yagiriye imvune mu myitozo ngororamubiri, bityo akaba ari kwifashisha ako gakoresho ngo yiyunge arebe ko yakomeza kumererwa neza.

Igikapu kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara, kirimo ibikoresho binyuranye birimo uturindantoki, imikasi, ibipfuko, ibinini ndetse n'ibindi. Ibyo bikoresho byose birimo, bikaba ari byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze ku muntu ugize igikomere, imvune cyangwa se ubushye mu gihe agitegereje kugezwa kwa muganga ngo ahabwe ubufasha bwisumbuyeho.

Uducupa dutatu y'umubare y'umweru dufite imifuniko y'umweru kamwe muri two kakaba gapfunduye umufuniko uteretse iruhande dufite kandi ibyapa biriho biri mu mabara y'ubururu byanditseho inyuguti ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo akaba ari imiti yifashishwa igihe umuntu yaba agiriye imvune mu myitozo ngororamubiri bakayikoresha bamuvura.

Ibikoresho binyuranye bikoze mu byuma bigiye bipima ibiro bitandukanye buri kimwe kikaba cyanditseho mu ibara ry'umweru ibiro gipima, bikaba byifashishwa n'abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Icyumba cyiza kigari cyisanzuye kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri n'abantu batandukanye. Hakaba kandi hanarimo abantu bigaragara ko bari gukora iyo myitozo.

Umuntu w'umugabo wambaye umupira w'umweru. Akaboko ke yakararambuye, ku gice kigana ku nkokora yashyizeho igisho cyabugenewe mu gukanda imvune kiri mu ibara ry'ubururu, akaba yavunitse ari kugerageza kwikanda ngo arebe ko yakira.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru kiriho kandi umugabo wambaye imyambaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri. Uri kwirukanka, uri mu ruziga rw'igice rugizwe n'amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Handitseho kandi amagambo ari mu ibara y'umukara ryerekana yuko ari urubuga rwemewe rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikino ngororamubiri mu rwanda.

Intoki ebyiri ziri kurebana z'umuntu w'umuzungu, zambaye uturindantoki turi mu ibara ry'umukara, twambarwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri kugira ngo hirindwe imvune cyangwa se ibikomere ku ntoki.

Umugabo ufite ubwanwa wambaye umupira w'ubururu umwegereye, afite icupa mu ntoki ze ribonerana ririmo amazi ari kuyanywa, akaba yari ari mu myitozo ngororamubiri, ananiwe yagize inyota ari kunywa amazi kugira ngo arebe ko yagarura imbaraga.

Icupa ribonerana rifite umufuniko w'umweru, rikaba rifashwe rimanitswe n'umuntu ufite ikiganza cyiza cy'inzobe, bikaba bigaragara yuko ategereje kuyanywa ngo agarure ubuyanja.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa bucye buringaniye, mu ntoki ze afite icupa riboneranye ririmo amazi, akaba ariko yanywa bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri akagira icyaka akaba ari kunywa amazi ngo agarure imbaraga.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara, igizwe n'ikabutura ndetse n'umupira w'amaboko maremare yabugenewe mu guko imyitozo ngororamubiri, hari kandi n'undi wambaye impuzankano yo kwa muganga, uri kumufasha amuvura ahantu yagize imvune ku kirenge, igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Umusore ukiri muto wambaye umwenda w'umupira uciye amaboko wabugenewe mu gukoranwa imyitozo ngororamubiri, afite icupa ry'ubururu rifite umufuniko w'umukara, ari kunywa amazi yari ari mu myitozo ngororamubiri arananiwe, ari kuyanywa ngo yongere agarure imbaraga.

Umuhungu wambaye umupira w'ubururu, wambaye kandi n'igikoresho cyabugenewe mu kumviramo amajwi ku buryo bwawe bwite. Afite mu ntoki ze icupa ribonerana rifite umufuniko w'ubururu ririmo amazi. Akaba yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, ananiwe yagize inyota, ari kunywa amazi ngo arebe ko yagarura imbaraga.

Icyapa kiriho imbuto zitandukanye zirimo imineke, amacunga, imitini, hakaba kandi hanariho umukobwa bigaragara yuko ari gukora imyitozo ngororamubiri, hakaba handitseho amagambo yerekana yuko ari ibiryo byiza byagufasha igihe umaze gukora imyitozo ngorora mubiri kugira ngo umubiri wawe usubirane imbaraga watakaje.

Uyu umusore wicaye yambaye imyenda yabugenewe mu gukorana imyitozo ngororamubiri, afite mu ntoki ze icupa ry'amazi ari ku yanywa bigaragara ko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri akaba ananiwe ari kunywa amazi ngo arebe ko yagarura imbaraga.

Ibyangombwa binyuranye birimo uturindantoki, inshinge, udupima umuriro, utunini tugabanya ububabare, imikasi ndetse n'ibipfuko biri ahantutu hamwe bika byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku muntu waba ugize ikibazo bakaba bamufasha mbere y'uko agera kwa muganga ngo ahabwe ubuvuzi bwisumbuyeho.

Umukobwa ukiri muto wambaye imyenda y'umukara, yagenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri, wicaye ari kwinanura akora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hateretse icupa ririmo amazi meza ribonerana kandi rifite umufuniko w'umweru, inyuma ye kandi hari n'intebe nziza cyane.

Agakarito gafunguye kari mu ibara ry'icyatsi karimo ibikoresho birimo amavuta, ibipfuko, imikasi, ibitambaro bizirikwa ku mvune hirindwa kwizunguza kw'amagufwa n'ibindi byose, bikaba ari ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze byifashishwa mu guha ubufasha umuntu ugize ikibazo cyo gushya, gukomereka cyangwag se kuvunika mbere yuko agezwa kwa muganga.

Umugore wambaye imyambaro yabugenewe mu gukorana imyitozo ngororamubiri igizwe n'ipantaro imwegereye y'ubururu ndetse n'agapira gaciye amaboko kandi kagufi karimo ibara ry'icyatsi yambaye inkweto nziza z'umweru yahinnye akaguru ke kamwe ari kwinanura.

Umuntu wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'inkweto zabugenewe yicaye ahantu ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaguru kamwe yakarambuye akandi karahinnye, amaboko ye yayakojeje ku mavi, inyuma ye hari ibyatsi byinshi byiza bitoshye.

Abantu bari mu byiciro bitandukanye birimo iby'abana ndetse n'urubyiruko, harimo kandi n'abantu bakuze, bakaba bari ahantu mu kibuga gikinirwamo umukino w'intoki, bari gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo bwa rusange ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba cyiza cyubatse ku buryo bugezweho, kirimo amarange y'umweru harimo kandi n'intebe yabugenewe yicarwaho n'abarwayi barwaye amenyo, mu gihe bari kubavura hari kandi n'igitoroshi cyabugenewe gitanga urumuri ruhagije, kugira ngo muganga abashe kureba neza igihe avura umurwayi. Harimo kandi n'ibindi bikoresho binyuranye byabugenewe byifashishwa mu buvuzi.

Umuntu wambaye inkweto zabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri uryamye wubitse inda, hari kandi n'undi wambaye imyambaro y'umukara ari kumukanda ku gice cy'impfundiko bigaragara ko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri akagira imvune bakaba bari kumwitaho.

Umugabo uryamye ku gatanda kagenewe kuryamwaho n'abarwayi, akaba iruhande rwe hari abantu ubona bari kugerageza kumukanda mu ngingo bigaragara ko yavunikiye mu myitozo ngororamubiri, bari kugerageza kumwunga ngo akiri, hirya kandi hari agatanda na ko karyamyeho undi murwayi w'umugore na we bari kunga ngo akire.

Uducupa tw'amabara y'umweru turiho ibirango mu mabara y'umuku, umweru, umuhondo ndetse n'umukara, hakaba harimo imiti yifashishwa mu kurwanya ububabare ndetse n'imvune mu gihe umuntu yaba agi ikibazo mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu utagaragara neza mu isura, ufite icupa rinini ribonerana; rikaba ririmo amazi ari kunywa, bigaragara yuko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba agize icyaka akeneye amazi yo kunywa.

Icyumba cyiza cyubatse ku buryo bugezweho kirimo irangi ry'umweru ndetse n'ubururu, harimo utubati turimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, harimo kandi n'icyuma kinini cyifashishwa mu gusuzuma imbere mu mubiri w'umurwayi uko ameze ndetse n'indwara yaba arwaye.

Umuntu wirabura wambaye umupira w'umweru, afite akantu kabugenewe mu kuvura imvune kari mu ibara ry'ubururu ndetse kari no mu isashe, yagafatiye ku nkokora ye bigaragara ko yavunitse mu nkokora akaba ari kugerageza kwivura.

Ibishushanyo binyuranye biri mu mabara y'umukara, byerekana ibice by'umubiri w'umuntu bitandukanye, birimo ubwonko, amaso ndetse n'ibindi bikaba byifashishwa n'abaganga bari kureba uburyo umubiri w'umurwayi umeze, cyane cyane muri ibyo bice byerekanwa.

Icyapa kiriho udushushanyo turi mu isura y'abantu turi gutanga inama ku bintu wakora igihe wicaye umunsi wose, kugira ngo unure ingingo zawe amaraso abashe gutembera neza, bityo ugire ubuzima bwiza kandi wirinde kubabara mu ngingo.

Umukobwa wambaye imyambaro yabugenewe gukorana imyitozo ngororamubiri iri mu ibara ry'umukara yambaye kandi agakoresho kabugenewe mu kubika neza telefoni ngendanwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri, afite mu ntogize icupa ribonemerana ririmo amazi bigaragara ko yari gukora imyitozo ngororamubiri akaba yari ananiwe akaba ari kunywa amazi kugira ngo arebe ko yagarura imbaraga.

Icyapa kiriho amagambo yahise mu ibara ry'umutuku, ubururu hakaba kandi hariho agashushanyo k'umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri ayo magambo yanditse arerekana ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri harimo gutwika ibinure, kugabanya umuvuduko w'amaraso, kongera uburyo igogorwa ry'ibiryo rikorwamo neza ndetse n'iyindi mimaro.

Umukobwa ukiri muto wambaye imyenda yabugenewe mu gukoranwa imyitozo ngororamubiri, yambaye n'inkweto zabugenewe, yicaye arambuye akaguru kamwe akandi agahinnye, ari kugerageza kunanura ingingo ze zose, ari guharanira kugira ubuzima bwiza.

Umuntu wambaye umupira w'umukara umwegereye, yambaye kandi n'indorerwamo zabugenewe mu gukoranwa imyitozo ngororamubiri, afite icupa ribonerana ririmo amazi, ari kuyisuka mu maso, arasamye, biragaragara ko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri akaba ananiwe ari kunywa amazi ngo arebe ko yakongera kugarura intege.

Umukobwa mwiza warabura wambaye imyambaro yabugenewe mu gukoranwa imyitozo ngororamubiri. Yicaye ku gakeka kabugenewe ari kwirambura ingingo ze zose, imbere ye kandi hateretse mudasobwa, hari kandi iruhande rwe n'utundi dukoresho twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, kikaba kiriho ibishushanyo binyuranye by'abantu, kikaba kiri kwamamaza ubuvuzi bwifashisha kunanura imitsi, hakoreshejwe kugenda bayikanda kugira ngo umuntu arusheho kugira ubuzima bwiza ndetse anananure ingingo ze.

Umuntu wambaye ikabutura y'umukara imwegereye yabugenewe mu gukoranwa imyitozo ngororamubiri, arunamye yifashe ku gice cye cy'ivi, bigaragara yuko agiriye ikibazo cy'imvune mu myitozo ngororamubiri, akaba ari kugerageza kwikanda kubera ububabare bwinshi afite ku ivi rye kugira ngo arebe ko yakongera kumera neza akagerageza gukomeza imyitozo ye.

Abana babiri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umutuku, hariho kandi n'ikimenyetso cyiri mu ibabara ry'umweru harimo n'umusaraba utukura. Bakaba bateruye mugenzi wabo bigaragara y'uko agize ikibazo cy'imvune ari mu imyitozo ngororamubiri, bakaba bamujyanye ngo bamuhe ubutabazi bw'ibanze, inyuma yabo kandi hari abandi bana benshi bashungereye bari kureba icyo mugenzi wabo abaye.

Icyumba cyiza cyo mu bitaro cyubatse neza kirimo kandi igitanda kiryamyeho umurwayi wubitse inda, hari kandi n'umuganga wambaye impuzangano yo kwa muganga, uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, ari kwifashisha imashini ikoresha ikoranabuhanga rigezweho igizwe n'insinga zifasha ku murwayi ku gice cye cy'umugongo ndetse n'insakazamashusho iri kwerekana uko ubuzima bwe buhagaze.

Ijagi nini nziza ikoze mu kirahure, irimo amazi meza y'urubogobogo, ari gusukwa mu kirahure cyiza na cyo giteretse ahantu hasa neza.

Umuntu wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu, yarambuye akaboko ke afite igikoresho cyabugenewe mu gukanda imvune kiri mu ibara ry'ubururu ari kwikanda mu gice cye kigana mu nkokora, bigaragara yuko yagiriye ikibazo cy'imvune mu myitozo ngororamubiri ari kugerageza kwikanda ngo arebe ko yamera neza.

Umuntu wicaye wambaye umwambaro w'umutuku ndetse n'ikabutura imwegereye cyane. Akaba ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano yo kwa muganga utagaragara mu maso. Umuntu aricaye, yahinnye akaguru biragaragara ko yagize ikibazo cy'imvune mu myitozo ngororamubiri akaba ari kwitabwaho na muganga.

Ibikapu biri mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara. Kimwe kirafunze, ikindi gifunguye agace gatoya, harimo imikasi ndetse n'ibindi, ikindi kirafunguye cyose kirimo ibikoresho nk'ibitambaro byabugenewe mu gushyirwa ku mvune, ibinini ndetse n'ibindi. Bikaba bigaragara ko habikwamo ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku bagize ibikomere, imvune n'ibindi mbere y'uko bagezwa kwa muganga ngo hirindwe ingaruka zikabije.

Umugabo wirabura wambaye isengeri yagenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri, aricaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, kandi umubiri we urabihamya y'uko akora iyo myitozo kandi yamufashije.

Icyumba cyiza kirimo amabara meza y'umweru, harimo kandi n'icyuma kinini cyabugenewe kifashishwa mu kureba imbere mu mubiri w'umurwayi, niba yaba arwaye indwara ya kanseri, cyangwa se niba ayirwaye kugira ngo harebwe ikigero iriho.

Ibikoresho binyuranye byifashisha ikoranabuhanga, bikoreshwa mu buvuzi bugezweho. Birimo iby'itumanaho bikoreshwa mu guhanahana amakuru, harimo kandi n'icyifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso w'abarwayi ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye umupira umwegereye yagenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri ufite icupa ry'ubururu bwerurutse mu ntoki ze harimo amazi arikunywa . Bikaba bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri akaba yari ananiwe ari kunywa amazi ngo agarure imbaraga.

Agakarito kari mu ibara ry'icyatsi gafunguye. Imbere karimo imiti ipfunyitse mu dukarito, amacupa ndetse n'uducupa dutoya, ikaba ari imiti yifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku muntu waba ugize imvune, ubushye cyangwa se igikomere.

Umugabo bigaragara ko akuze wambaye umupira umwegereye, afite kandi mu ntoki ze icupa ribonerana ririmo amazi arimo arayanywa bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri, akaba yagize inyota ari kunywa amazi kugira ngo arebe ko yagarura agatege.

Umugabo ufite ubwanwa, wambaye umupira umwegereye ndetse akaba yambaye n'udukoresho twabugenewe mu kumva amajwi mu buryo bwite, afite icupa ribonerana ririmo amazi, akaba yari ari mu myitozo ngororamubiri, akagira icyaka akaba yari ari kunywa amazi.

Umusore wambaye umupira uciye amaboko uhagaze ahantu iruhande rw'amazi, akaba kandi yambaye n'indangagihe ku kaboko ke bigaragara yuko ari mu myitozo ngororamubiri yambaye n'imyambaro yabugenewe.

Umugabo ufite uruhara, uryamye agaramye, hari kandi n'umuganga wambaye impuzankano yo kwa muganga, ufite kandi n'agakoresho kabugenewe mu kumva imiterere y'umutima, ari kugerageza kumunanura mu ivi bigaragara ko yagiriye ikibazo mu myitozo ngororamubiri, akaba yaje kwivuza kugira ngo arebe ko yarushaho kumera neza.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri irimo: umupira uciye amaboko, ikabutura ndetse n'inkweto, wicaye uri kunanura akaguru ke, bigaragara yuko ku gice cy'impfundiko yagize imvune mu gihe yakoraga iyo myitozo akaba ari kugerageza kuhakanda ngo yumve ko yamererwa neza.

Imiti gakondo itandukanye, ikomoka ku bimera abakurambere bacu bifashishaga mu kuvura indwara zitandukanye, n'ubu ngubu hakaba hari abantu bakiyikoresha bavura izo ndwara zitandukanye ivura.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru kariho amagambo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku. Kakaba karimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye. Iruhande rwaho, hakaba harambitse ibice by'ibibabi by'igikakarubamba.

Agacupa gato k'umweru gateretse ku isahani nayo y'umweru inyuma yaho hariho igishashara cy'ubuki hakabaho kandi n'icunga rikase neza kuri ako gacupari icyapa cyerekana ko harimo umuti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye ukoze mu buki ndetse n'icunga.

Uducupa, udukarito ndetse n'udupfunyika turi mu mabara atandukanye, arimo umweru, umutuku, umukara, umuhondo ndetse n'icyatsi, zitereretse ahantu hamwe h'umweru, hakaba harimo imiti gakondo inyuranye yifashishwa mu kuvura indwara zirimo iz'uruhu ndetse n'izindi.

Uducupa ndetse n'udupfunyika dutandukanye turimo imiti gakondo ikomoka ku bimera yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, hari kandi n'inanasi iri aho ngaho nayo bigaragara yuko yifashishwa mu gutegura iyo miti.

Umuhungu bigaragara ko akiri muto, wambaye impuzangano yo kwa muganga, uri mu cyumba cyubatse mu buryo bugezweho, kirimo intebe z'umukara zigezweho, akabati kari mu ibara ry'umweru n'icyatsi, n'ibirahure hakaba imbereye kandi hateretse amacupa akoze mu birarahure, apfundikishije imifuniko y'umutuku, arimo ibisukika bitandukanye. Bikaba bigaragara yuko ari imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye.

Icyatsi gifite uturabo dufite amabara meza yiganjemo umuhondo, kikaba kandi kinafite ibibabi byiza bitoshye, kikaba kifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye.

Agapfunyika kari mu ibara ry'umuhondo, imbere kariho agashashi kabonerana kanditseho amagambo yerekana ibirimo, imbere hakaba harimo indabo zikomoka ku giti zifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zinyuranye.

Uducupa, udukarito ndetse n'udupfunyika turi mu mabara atandukanye, arimo umweru, umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, kandi kuri buri kimwe handitseho amagambo, bigaragaza ko ari imiti gakondo ivura indwara zinyuranye zirimo iz'uruhu ndetse n'izindi.

Agacupa kari mo ibara ry'umweru n'umuhondo kariho ibishushanyo ndetse n'amagambo byanditse mu mabara y'umuhondo, kakaba kari ahantu h'umukara, karimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ibimera byifashishwa nk'imiti gakondo mu kuvura indwara zinyuranye kubera ubunyabitabire bikungahayeho byifashishwa mu kwica ndetse no kurwanya udukoko tunyuranye dutera indwara mu mubiri.

Uducupa, udupfunyika ndetse n'udukarito turi mu mabara y'umweru, icyatsi, umutuku, tukaba turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, zirimo iz'uruhu ndetse n'izindi. Iyo miti ikaba ikoze mu gikakarubamba ndetse no mu buki.

Akabati gafite imirongo itatu itondetsemo uducupa, udukarito ndetse n'udukombe dupfundikiye, turi mu mabara y'icyatsi, umweru, umutuku ndetse n'umukara wijimye, hakaba harimo imiti gakondo ikomoka ku bimera, bikungahaye ku binyabutabire, byifashishwa mu kurinda ndetse no kurwanya udukoko dutera indwara zinyuranye.

Ikimera gifite ibibabi byinshi byiza bitoshye, kikaba cyifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zinyuranye kubera ibinyabitabire gikungahayeho, bwica ndetse bukanarwanya udukoko dutera indwara.

Icyatsi gifite amababi menshi atoshye, kikaba cyifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zinyuranye, kubera ubunyabitabire bikungahayeho bwifashishwa mu kwica ndetse no kwirinda udukoko dutera indwara.

Uducupa tubonerana duteretse ahantu hamwe ku meza, turiho uturango turi mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, hakaba harimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Uducupa duto turi mu ngano zitandukanye tw'umweru hakaba kandi n'icupa rinini ribonerana rifite umufuniko w'umwiru hose hakaba hariho utwapa twerekana yuko ari imiti gakondo ikozwe mu buki yifashisha mu kuvura indwara zitandukanye.

Icyatsi gifite amababi matoya atoshye, hari kandi umugore witeye igitambaro cy'umweru, ufashe icyo cyatsi, bikaba bigaragara ko ari gusoroma amababi yacyo, akaba ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Ibyatsi byinshi binyuranye biri ahantu hamwe birimo ibyifashishwa nk'imiti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye kubera ubunyabitabire bukungahayeho bwifashishwa mu kwica ndetse no kurwanya udukoko dutera indwara.

Imiti gakondo itandukanye ikomoka ku bimera, ikaba ikungahaye ku binyabutabire byifashishwa mu kwica ndetse no kurinda udukoko dutera indwara, hakaba kandi hariho n'amazina atandukanye y'iyo miti.

Icyatsi gifite uturarabyo twiza gifite kandi n'amabi atoshye kizwi ku izina ry'inyobasanye kikaba cyifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye cyane cyane nko komora ibisebe.

Ikimera kizwi ku izina ry'umuravumba, gifite ibibabi byinshi bitoshye, kikaba kizwiho kuba ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye; zirimo ibicurane ndetse n'inkorora kubera ubunyabitabire gikungahayeho bwifashishwa mu guca intege udukoko dutera izo ndwara.

Icyatsi gifite amababi menshi atoshye, kikaba cyarifashishwaga n'abakurambere bacu nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zinyuranye, kikaba n'ubu kandi kikifashishwa mu kuvura izo ndwara kubera y'uko gikungahaye ku butabire bwifashishwa mu kurwanya ndetse no kuvura udukoko dutera indwara tunyuranye.

Agacupa gato karimo ibara ry'umuhondo hariho icyapa kirimo ibara ry'umutuku umweru ndetse n'amagambo yanditse mu mutuku wijimye hakaba harimo umuti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye ukomoka ku buki.

Amacupa atandukanye ari mu mabara arimo umutuku, umukara akaba kandi ariho ibimenyetso by'icyatsi, bikaba harimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ikomoka ku ikawa.

Imiti gakondo inyuranye irimo iy'ibyatsi ndetse n'ibiti ndetse n'imizi yabyo, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye bitewe n'ubunyabutabire ikungahayeho bwica udukoko dutera indwara.

Ikimera kiri mu bwoko bw'igiti, kizwiho kwifashisha mu gutegura imiti gakondo ivura indwara zitandukanye, iruhande rwacyo kandi hari n'ibindi bimera binyuranye bigiye bifite amababi afite amabara atandukanye, arimo icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku.

Agasekuru kari mu ibara ry'umweru gafite n'umuhini w'umweru karimo ibibabi bitandukanye biri gusekurirwamo, bikaba byifashishwa mu gukora umuti gakondo uvura indwara zitandukanye. Iruhande kandi hari n'utundi ducupa natwo turimo ibisukika biri kuvangwa n'uwo muti ngo urusheho kugira ireme.

Uducupa, udupfunyika ndetse n'udukarito turi mu mabara y'umweru, umutuku ndetse n'icyatsi, hakaba harimo imiti gakondo ibugenewe mu kuvura indwara zinyuranye irimo iy'uruhu ndetse n'ibindi, iyo miti ikaba ikomoka ku bimera gakondo ndetse no ku buki.

Igicupa kiri mumabara y'umweru kiriho akapa kari mu ibara ry'umweru kariho amagambo yanditseho mu ibara ry'umutuku wijimye, hari n'igishushanyo cy'igika karubamba hakaba harimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye uwo muti ukaba utangwa n'ikigo cy'ubucuruzi kizwi nka foreva cyamenyekanye mu gukwirakwiza ndetse no gutanga imiti gakondo ikomoka ku bimera mu bihugu bitandukanye.

Udukarito tubiri, uducupa tubiri ndetse n'agapfunyika kamwe, biri mu mabara atandukanye, arimo umweru, icyatsi, umuhondo, umutuku, hakaba harimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Amacupa atandukanye arambitse ari mu mabara y'umutuku wijimye cyane ndetse n'uwerurutse, akaba ariho utwapa dutandukanye turi mu mabara y'icyatsi, ubururu ndetse n'umweru, akaba ari imiti gakondo ikoze mu bimera, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Agakarito kari mu ibara ry'umuhondo n'icyatsi, imbere yaho hakaba hari ibinini bigapfunyikwamo biri mu ibara ry'umutuku w'icunga rihishije, bikaba byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zirimo: inkorora, ububabare ndetse n'ibicurane n'izindi zitandukanye.

Uducupa ndetse n'udupfunyika n'udukarito turi ahantu hamwe turi mu mabara y'umuhondo, umweru, ubururu, umutuku tukaba turimo imiti gakondo yabugenewe mu kuvura indwara zinyuranye zirimo iz'uruhu, izo mu kanwa ndetse n'izindi yose ikaba ikomoka ku bimera birimo nk'ibikakarubamaba ndetse n'ibindi.

Icyapa kiriho imiti iri mu ducupa dutandukanye turi mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo inyuma yashushanyijeho igikakarubamba kikaba kiri kwamamaza imiti gakondo ikozwe mu gikakarubamba yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye harimo izo mu kanwa iz'uruhu igabanya ubushyuhe iyoroshya iminwa, ifura mu mutwe ikanakuza umusatsi ndetse n'ibindi.

Uducupa tubiri tw'umuhondo dufite imifuniko y'umutuku ,agakarito gafite ibara ry'umweru, kariho amagambo y'icyatsi ndetse n'agapfunyika karimo ibara ry'umweru kariho ibishushanyo n'amagambo mu ibara ry'ubururu, hose hakaba harimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Igiti gifite ibibabi byinshi bitoshye, kikaba kizwi ku izina ry'urumogi, kikaba cyifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zinyuranye. Hari kandi n'abakibeshyaho bakagikoresha nk'ibiyobyabwenge, ibi bikaba bitemewe n'igihugu cy'u Rwanda.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru, kari ahantu h'umukara kakaba kariho amagambo yerekana yuko harimo umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, utangwa n'ikigo kizwi nka Foreva gicuruza ndetse kikanakwirakwiza imiti mu bihugu bitandukanye by'Isi,

Udukarito turi mu mabara y'umweru twanditseho amagambo mu mabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo, tukaba turimo imiti gakondo ikomoka ku bimera yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Tukaba duteretse ahantu hafite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Imiti gakondo inyuranye, izwiho mu kuvura indwara kubera ubunyabutabire ikungahayeho, bwica ndetse bukanarwanya udukoko dutera indwara, imwe ikaba iri mu kabaho kabaje neza, indi nayo ikaba iri mu macupa apfundikiye neza, itondetse neza, mu kabati.

Agacupa kabonerana gafite umufuniko w'umweru, kariho kandi n'ikirango kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara n'icyatsi, kakaba karimo umuti gakondo wifashishwa mu gusukura intoki, wica udukoko dutera indwara twaba turiho kugira ngo umuntu arusheho kugira ubuzima bwiza.

Igiti gifite amababi menshi atoshye y'icyatsi cyerurutse kikaba kizwi ku izina ry'umuravumba kiba kifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zinyuranye urimo ibicurane ndetse n'inkorora kubera ubunyabitabire gikungahayeho bukora cyane mu kurwanya agakoko gatera izo ndwara.

Agacupa kari mu ibara ry'ubururu, kakaba kandi kanditsweho amagambo mu mabara y'umweru, kakaba karimo umuti gakondo ukomoka ku bimera wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, cyane cyane iz'uruhu. Kakaba gatangwa n'umuryango wamenyekanye cyane nka Forever, ucuruza ndetse ukanasakaza imiti ikomoka ku bimera mu bihugu bitandukanye.

Ibimera biri mu mabara atandukanye arimo umuhondo, umutuku, icyatsi ndetse n'andi, bikaba byarifashishwaga n'abakurambere bacu nk'imiti gakondo mu kuvura indwara zinyuranye.

Ikimera gifite amababi menshi atoshye kizwi nk'umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kubera ubunnyabitabire gikungahayeho bwifashishwa mu kwica ndetse no kwirinda udukoko dukwirakwiza tukanatera indwara.

Urubuto ruzwi ku izina ry'ipapayi, rumwe ruracyari rwose, urundi rusatuyemo kabiri rurufashe kuri urwo ngurwo, rukaba ruzwiho kuba umuti gakondo uvura indwara zinyuranye, cyane cyane izo mu nda nko kunanirwa kwituma.

Umugore wambaye ishati witeye igitambaro cy'umweru ufashe ku meza ariho imiti gakondo inyuranye, imbere hari umugabo na ufashe ku meza wambaye ishati irimo imirongo akaba ari kumusobanuza iby'iyo miti bacuruza ivura, ruguru yabo kandi hari andi meza nayo ariho imiti gakondo inyuranye ihacururizwa, hakaba hari n'undi mugore nawe wambaye ishati y' umweru bigaragara ko ari we uyicuruza.

Udusahane dutandukanye tubumbye turi mu ibara ry'umukara, turiho imiti gakondo inyuranye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, bitewe n'ubunyabitabire bikungahayeho buzwi mu kwica ndetse no kurwanya udukoko dutera indwara.

Uducupa turi mu ngano zimwe turi mu mabara atandukanye arimo umutuku w'icunga rihishije, umuhondo wijimye, umuhondo werurutse ndetse n'umutuku werurutse cyane, tukaba turimo imiti gakondo yabugenewe mu kuvura indwara zinyuranye.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kikaba gishushanyijeho agacupa karimo ibara ry'umuhondo ndetse gafite umufuniko w'umutuku. Hashushanyijeho kandi n'igikakarubamba. Bari kwamamaza umuti gakondo uvura indwara zinyuranye ukokzwe mu gikakarubamba.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru kariho akapa kari mu ibara ry'umuhondo werurutse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku wijimye, inyuma yaho kandi hakaba hari icunga rihishije cyane ndetse n'igishashara cy'ubuki, ako gacupa kakaba karimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye ukomoka ku buki ndetse no ku bimera.

Imiti gakondo inyuranye ikomoka ku bimera byifashishwa nk'imiti gakondo mu kuvura indwara zinyuranye kubera ubunyabutabire bikungahayeho bwifashishwa mu kwica ndetse no kwirinda udukoko dutera indwara.

Ikimera gifite amababi meza ndetse n'uturabyo twiza kirandaranda, kikaba kizwiho kuba ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kubera ubunyabitabire gikungahayeho byifashishwa mu kwica ndetse no kwirinda udukoko dutera indwara.

Umuntu ufite umuti wabugenewe mu gusukura amenyo no kwirinda indwara zo mu kanwa, afite kandi agakoresho kabugenewe mu gusukura amenyo, ari gushyiraho uwo muti kugira ngo asukure amenyo ye arushaho kugira ubuzima bwiza ndetse n'isuku mu kanwa.

Agakombe gakoze mu cyuma karimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye hari kandi n'ikiyiko bari gukoresha bavanga neza uwo muti iruhande hari tangawizi ndetse n'ibindi bibabi bigaragara ko aribyo byifashishijwe bategura uwo muti.

Imisozi myiza yuje uburanga, ifite ibara ry'icyatsi, bigaragara yuko rwose yuzuyeho ibimera. Imbere kandi hari udukarito dutatu turi mu mabara atandukanye, hakaba kandi handitseho n'amagambo yerekana yuko utwo dukarito turimo icyayi gikomoka ku bimera cyifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye.

Umugore uhagaze ufashe ku meza witeye igitambaro cy'umweru wambaye ishati, imbere ye kandi hari n'undi mugabo nawe ufashe kuri ayo meza wambaye ishati irimo imirongo, kuri ayo meza hariho amacupa arimo imiti gakondo inyuranye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, biragaragara ko uwo mugore ari gusobanurira uwo mugabo ibyo iyo miti igiye ivura, ruguru y'aho kandi na ho hari andi meza atondetseho iyo miti gakondo.

Uducupa ndetse n'udukombe turimo amabara atandukanye arimo ubururu bwerurutse ndetse n'icyatsi kibisi, hakaba kandi handitseho amagambo mu mabara y'umweru. Ikaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Udukarito dutatu turi mu mabara atandukanye, agizwe n'umweru, umutuku w'icunga rihishije, hariho n'amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, hakaba harimo imiti gakondo yifashishwa mu bintu binyuranye mu mubiri, harimo kuwongerera imbaraga ndetse no gufasha umubiri gukora ibikorwa bitandukanye, harimo nk'igogorwa ry'ibiryo.

Igiti gifite ibibabi binini bitoshye kizwi nk'umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye kubera ubunyabutabire gikungahayeho bwifashishwa mu kwica ndetse no kwirinda udukoko dutera indwara hari kandi n'ibiganza bigaragara ko ari iby'umuntu w'umuzungu biri gusoroma amababi y'iki giti ngo bijye kuyifashisha bitegura uwo muti.

Ibimera gakondo, byifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye kubera ubunyabutabire bukungahayeho, bwica kandi bukanarwanya udukoko dutera indwara, hakaba kandi hari n'abantu bakiyikoresha mu kuvura indwara zinyuranye muri iki gihe.

Agapfunyika kari mu ibara ry'umuhondo kariho agashashi kabonerana, kariho akapa kerekana ibirimo imbere, imbere harimo uturabo duturuka ku bimera gakondo byifashishwa nk'imiti ivura indwara zitandukanye.

Uducupa tubiri ak'umweru ndetse na k'umuhondo twanditseho amagambo mw, ibara ry'umutuku wijimye ndetse no mw'ibara ry'umukara rishushanyijeho kandi igikakarubamba hakaba harimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye bakora mu gikakarubamba.

Utumenyetso tubiri turi mu mabara y'umweru, hariho ibishushanyo biri mu ibara ry'icyatsi, umukara, umuhondo. Hakaba harimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye; tukaba turi ahantu h'umweru.

Igiti gifite amababi menshi, atoshye, kizwi ku izina ry'umuravumba, kifashishwa mu gutegura imiti inyuranye gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, zirimo: inkorora, ibicurane ndetse n'izindi.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo n'umutuku, kiriho imiti gakondo inyuranye, kiriho kandi n'amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, yerekana ko hakubiyemo imirongo ngenderwaho mu kwandikisha umuti gakondo mu muryango Mpumahanga w'abibumbye ishami rishinzwe kwita ku buzima.

Agasahani kabumbye mu ibumba, kariho ibibabi by'ibiti bitandukanye, byifashishwa mu gukora umuti gakondo, uvura indwara zinyuranye. Hakaba kandi hari n'umuntu wicaye, wambaye umwambaro w'icyatsi, bigaragare yuko ari we uri gutegura uwo muti gakondo.

Icyatsi gifite ibibabi byinshi byaciwe birambitse ku kabaho kabaje neza, akaba ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye bagiye gutegura, kakaba gateretse ku meza na yo meza afite ibara ry'umweru.

Ikimera kiri mu bwoko bw'ibyatsi, kiza gitoshye, gifite amababi manini, akaba ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Udukombe dukoze mu birahuri dupfundikije imifuniko iy'umweru ndetse n'iy'umutuku, hariho kandi n'udupapuro twerekana ibirimo, imbere harimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Udugarito dufunguye turi mubari y'umweru ndetse n'umutuku, hakaba harimo uducupa dutoya twinshi tubitsemo turimo imiti gakondo yifashishwa mura indwara zinyuranye ikorwa mu gikakarubamba, zimwe mu ndwara zivura harimo izibasira umunwa by'umwihariko.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru rifite umufuniko w'umweru, gashushanyijeho ishusho y'igikakarubamba, handitseho amagambo mu ibara ry'umukara. Iruhande kandi hari agakombe kabumbye karimo udukoresho twabugenewe mu gusukura amenyo. Ako gacupa kakaba karimo umuti gakondo wabugenewe mu kuvura indwara zinyuranye zo mu kanwa, ukozwe mu gikakarubamba.

Icupa riri mu mabara y'umweru, ndetse rifite umufuniko w'ubururu n'akapa kariho kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, kakaba kanditseho amagambo yerekana yuko harimo umuti gakondo ukomoka ku bimera wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, utangwa n'ikigo kizwi nka Foreva, gicuruza ndetse kikanakwirakwiza imiti ikomoka ku bimera mu bihugu bitandukanye bigize Isi.

Ikimera kizwi ku izina ry'umuravumba cyifashishwa nk'umuti gakondo uvura indwara zinyuranye zirimo inkorora, ibicurane ndetse n'izindi, kikaba gifite amababi meza y'icyatsi atoshye.

Icyapa kiriho agacupa ndetse n'agakombe gapfundikiye biri mu mbara y'umweru ndetse n'ubururu hakaba kandi handitseho n'amagambo, ikaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, cyane cyane izuruhu. Ikaba itangwa n'ikigo cy'ubucuruzi cyamenyekanye ku izina rya foreva, gicuruza ndetse kikanakwirakwiza imiti ikomoka ku bimera mu bihugu bitandukanye bigize isi.

Agacupa k'umuhondo gafite umufuniko w'umutuku, kakaba kandi kariho n'akapa kariho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, hakaba harimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye ukomoka ku gikakarubamba.

Icyatsi gifite amabi menshi, atoshye, kiri ahantu hijimye, kikaba ari umuti gakondo abakurambere bacu bifashishaga bavura indwara zinyuranye, n'ubu hakaba hari aho bakigikoresha bavura izo ndwara.

Ikimera kizwi ku izina ry'umuravumba kikaba cyifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zinyuranye zirimo inkorora ndetse n'ibicurane kubera ubunyabitabire gikungahaye ho kifashishwa mu guca intege udukoko dutera izo ndwara.

Ibimera byifashishwaga n'abakurambere bacu nk'imiti gakondo, mu kuvura indwara zinyuranye kubera ubunyabitabire bikungahayeho bwifashishwa mu kurwanya udukoko dutera indwara. Hakaba hari naho kugeza ubu bakiyikoresha mu kuvura indwara zitandukanye, birimo nka tungurusumu ndetse n'ibindi.

Agasahani gateretseho igikombe, kikaba kirimo igisukika kiri mu ibara ry'umuhondo harimo kandi n'igice cy'indimu, iruhande naho harambitse indimu ndetse na tangawizi bikaba bigaragara ko hateguriwe umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara z'ubuhumekero zirimo inkorora ndetse n'ibicurane.

Uducupa, udupfunyika ndetse n'udukarito, turi mu mabara y'umweru, umutuku, handitseho kandi amagambo ari mu mabara y'ubururu, umutuku ndetse n'icyatsi, hakaba harimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Icyapa kiri kwamamaza umuti gakondo, kikaba kiriho ifoto y'umukobwa bigaragara ko yifashe mu nda, hakaba kandi hariho n'udushushanyo tw'udukarito turimo uwo muti, ikaba handitseho amagambo yerekana y'uko uwo muti ari ukomoka ku bimera, ukaba uvura ibibyimba biza muri nyababyeyi y'abagore ariko bitari ibya kanseri, ikaba ibivura bidasabye yuko babibaga.

Igiti cyakuze cyane, gifite amashami menshi ndetse n'amababi menshi atoshye, kizwi nk'umuravumba cyifashishwa nk'umuti gakondo, mu kuvura indwara zinyuranye, zirimo: ibicurane ndetse n'inkorora.

Agacupa k'ibara ry'umweru kari ahantu hari ibara ry'umukara kakaba kariho akapa kanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu kakaba karimo umuti gakondo ukomoka ku bimera, wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Icyatsi cyiza gifite amababi mato kandi menshi atoshye, kikaba kifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zinyuranye kubera ubunyabitabire gikungahayeho, bwifashishwa mu kwica ndetse no kurwanya udukoko dutera indwara.

Ku cyapa kiriho amacupa aripo ngano atandukanye no mu mabara atandukanye, hariho kandi n'ibishushanyo byerekana ibice by'umubiri w'umuntu cyane cyane mu ngingo harimo ikimenyetso gitukura byerekana ko harimo ububabare. Cyikaba cyerekana ko iyo miti ishobora kwifashishwa ivura ubwobabare bwo mu ngingo.

Agacupa gatoya k'umweru gafiteho kandi icyapa cy'umuhondo, kiriho inyuguti zanditse mu ibara ry'umutuku wijimye, iruhande rwaho kandi hashushanyijeho n'igikakarubanda, ako gacupa karimo umuti gakondo bifashishwa kuvura indwara zinyuranye.

Imiti itandukanye ipfunyitse mu bintu bitandukanye birimo uducupa, utukarito ndetse n'agashashi, akaba kandi iri mu mabara atandukanye arimo umukara n'umuhondo, umweru n'umuhondo ndetse n'umweru n'ubururu, hakaba harimo imiti gakondo itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara ikomoka ku bimera.

Uducupa dutatu, tubiri turi mu ibara ry'umweru, akandi kari mu ibara ry'umuhondo, hose handitseho amagambo mu ibara ry'umutuku wijimye, yashushanyijeho n'igikakarubamba akaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, ikoze mu gikakarubamba.

Icyapa gishushanyijeho agacupa kari mu ibara ry'umweru, kariho kandi n'akapa gatoya kanditseho amagambo kakaba kariho n'igishushanyo cy'uruyuki ruri mu gishasha, hakaba kandi handitseho n'amagambo yerekana yuko ari umuti gakondo ukomoka ku buki, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru kakaba kariho akapa kari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, kakaba karimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, utangwa n'ikigo kizwi nka Fureva gicuruza ndetse kikanakwirakwiza imiti ikomoka ku bimera mu bihugu bitandukanye ku Isi.

Icyatsi gifite ibibabi binini bitoshye, kikaba kizwiho kuba umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kubera ubunyabitabire gikungahayeho, bwifashishwa mu kwica ndetse no kwirinda udukoko dutera indwara.

Uducupa, udupfunyika ndetse n'ukombe dupfundikiye turi mu mabara y'umweru, icyatsi ndetse n'umutuku. Harimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zirimo iz'uruhu ndetse n'izo mu kanwa; ikaba ikomoka ku bimera birimo nk'ibikakarubamba ndetse no ku buki.